Ahantu hari abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, bigaragara ko ari abana n'abantu bakuru barimo kubigisha, bateze amatwi kugira ngo bagire ubwenge buzabatunga mu gihe kiri imbere.

Abagabo n'abagore bicaye imbere y'ibaraza ry'inzu, bambaye imyenda y'umweru hejuru, hasi y'amabara adasa, inyuma yabo hariho icyapa kiriho amabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Inyubako irimo ihema rya tente n'idarapo, hari abagore n'abagabo, barahagaze, bambaye imyenda itandukanye, n'umuntu ufite ikirangantego mu gatuza cy'akazi akora.

Umugezi uriho umwana wicaye, wambaye ikabutura n'umupira, yateze intoki ku mazi arimo arakaraba, hirya ye hari ijerekani y'ubururu n'iy'umuhondo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hahagaze abantu b'abagore, bambaye imyenda y'amabara adasa umutuku, umweru, icyatsi n'umuhondo bavuye mu mahugurwa y'uko bakwita ku buzima bwabo.

Inyubako iriho tente n'idarapo. Hari abagore n'abagabo bamwe bahetse abana, barahagaze bambaye imyenda itandukanye. Baje mu nama kugira ngo basobanurire ibyabagirira akamaro.

Umugezi wubakishije sima, hariho impombo izana amazi, hariho abantu bagaragara ko ari benshi, bafite ijererekani baje kuvoma.

Umugezi ikozwe mu isima, no hasi hashyashe, hariho amajerekani abiri y'umuhondo, imbere y'aho hari umuntu wambaye umupira w'umutuku, aje kuvoma amazi arimo ajyamo.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda idasa, bari imbere y'inyubako bahagaze ku mapave inyuma yabo hari icyapa cy'umweru n'ubururu baritonze

Ni inyubako igaragaza amabati ashaje hari umuntu uhicaye afite amajerekani abiri ateretse mu kibasi arimo kuvoma amazi hari n'indobo y'icyatsi hateye ubusitani bwiza haratuje.

Icyapa cya UNICEF cyanditseho inyuguti zitandukanye, ziri mu mabara y'umutuku, umuhondo, umukara, ubururu n'imenyetso cy'umusaraba kiranga UNICEF.

Inyubako nziza isa ubururu, imbere yayo hahagaze abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, umwe afite igipapuro mu ntoki, hateye n'amawuwa, barimo bitegereza, bitonze ibyo barimo bareba.

Inzu irimo icyumba kirimo abamama babiri, umwe yambaye itaburiya undi afite umwana, umwe arimo amukoraho asa nk'urimo amuvura undi amwitegereje cyane.

Inzu irimo icyumba kirimo abana n'abantu bakuru, bambaye ingofero n'amajili, barimo kubaha igikoma n'amata; bigaragare ko ari mu irerero, ari bo babarera.

Abagabo n'abagore bahagaze, bambaye amapantaro y'umukara n'amakanzu y'imituku n'amata y'umweru, barimo barerekana ko ibintu bakoze ari byiza nta kibazo baranezerewe.

Umugezi uriho urujya n'uruza rw'abantu, abagore n'abagabo, abaje kuvoma n'abarimo gufura, bamwe barataha abandi baza, hariho amajerekani, ibasi, ibesanyi.

Umugezi uriho abana bambaye imyenda itandukanye, harimo ibyatsiu, umweru n'umukara, bateze urushyi barimo kunywesha amazi intoki.

Abagabo n'abagore, harimo abambaye imyenda y'umweru bahagaze, barimo kuganira ku buryo bakwita ku mugore utwite, kugira ngo atazabyara umwana ugwingiye, azagire ubuzima bwiza yubaka ejo hazaza he.

Umwana uryamye ubonako yambaye umwenda w'umweru, umutwe harimo amasaro y'umuhondo, umutuku n'icyatsi, ibiganza bigaragara ko birimo kumutera urushinge bimuvura, kugira ngo agire ubuzima bwiza azire umuze.

Ahantu ku ibaraza, hari abagabo n'abagore, bicaye bambaye amataburiya, barimo gufata abantu amaraso mu rutoki, hari ameza, hari igitambaro cy'ubururu n'ibikombe n'ibikoresho bakoreshaga.

Abagore babiri bafite umwana, umwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru arimo gutera uwo mwana urushinge mu mugongo; hari n'ameza ariho agarikarito bashyiramo imyanda, inyuma ye hari n'indobo isa ubururu.

Umuntu wicaye imbere y'inyubako iriho amazi ifite amajerekani abiri, imweteretse mu kibasi hari indobo, iri mu ibara ry'icyatsi, inyuma ye hanitse imyenda, hateye n'amawuwa, hagaragara ko ari heza.

Sare iteraniyemo abagore n'abagabo, bamwe barahagaze, abandi baricaye ku ntebe zis’umuhondo, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, barimo guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima, uko babwitaho bakanagira inama bagenzi babo.

Ahantu hateraniye abana n'abantu bakuru bamwe barimo bambaye imyenda y'umutuku abandi amajire ajya kuba ikigina barimo guha abana amata mu bikombe no mu bikurutu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugezi wubakishije sima, uriho udutiyo twinshi, hariho abantu babiri, umwe aricaye undi arahagaze, bambaye imyenda itandukanye, bafite n'indobo y'umuhondo bagiye kuvomeramo.

Ahari ababyeyi babiri, bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'umukara, bafite udupfukamunwa, umwe arimo amukingira kugira ngo atazarwara Kovide azagire ubuzima buzira umuze atayirwaye.

Abantu bari imbere y'inzu bambaye imyenda idasa, umutuku, umuhondo n n'icyatsi n'ingofero y'umweru n'udupfukamuwa harimo n'ufite mikoro bamurangamiye w'umwana arimo kuvuga.

Abagabo n'abagore bahagaze mu busitani bambaye imyenda itandukanye harimo n'abambaye amatabuririya y'umweru, inyuma yaho hari inzu isize irangi ry'ubururu ku bikuta byayo, hariho n'icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima bigaragare ko ari abaganga bari mu by'ubuzima.

Ahantu hari abantu bamwe begeranye undi ari kure yambaye ipantaro y'ubururu, ishati y'umuhondo afite ibirahuri bibiri mu ntoki bigaragara ko birimo amazi.

Ahantu hateraniye abagore n'abagabo harimo abambaye rinete, imyenda itandukanye baricaye baratuje, hari ameza ateguyeho uducupa, bari mu bukwe.

Inyubako irimo abantu batandukanye abagabo n'abagore, bambaye imyenda y'amataburiya y'abajyanama b'ubuzima, bafite ibitabo mu ntoki barimo kwandika baratuje bateze amatwi, barimo kubahugura ibijyanye no kuvura.

Umugezi wubakishije isima hariho icyapa, hariho abantu baje kuvoma, bafite indobo y'ubururu barimo gukarabiramo kugira ngo base neza.

Abagabo babiri bicaye, imbere yabo hari ameza ariho icupa, inyuma yabo hari igitambaro cy'umweru, cyandikishijeho amagambo y'ibara ry'ubururu, ku ruhande hari ibendera riri mu ibara ry'icyatsi, umweru n'umutuku.

Umugezi wubakishije isima no hasi isasheho, uriho abana bane bambaye imyenda itandukanye bafite ijerekani n'akabuni baje kuvoma amazi, umwe arimo gupompa kugira ngo aze.

Abantu bahagaze, hari abagabo, umwe wambaye umupira w'ubururu n'ishati yumweru, uwundi umutuku, iruhande rwabo hari uducupa, barimo kuganira ibijyanye n'ubuzima.

Mu mugezi wubatse na sima no hasi ihashashe hariho abantu baje kuvoma bafite ijerekani y'umuhondo n'akabuni, barimo gupompa kugira ngo amazi aze babone uko bayajyana.

Inzu iriho ibaraza ririho abagore n'abagabo, barimo kubyina bambaye imyenda itandukanye, bateze amaboko, banezerewe, bashimisha ababareba.

Abagabo, abagore bambaye imipira y'umweru, bamwe n'ingofero, bicaye batuje bateze amatwi, barimo bahanze amaso, urimo ababwira kugira ngo nibamara kumva bazasobanurire abandi.

Abagabo n'abagore bafite abana, bambaye imyenda idasa, harimo imituku, imihondo umweru n'umukara, n'abambaye ingofero, barimo kwigishwa uko bakwirinda ebola.

Abagabo n'abagore bahagaze bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, bafite uturangantego tw'imirimo bakora mu gatuza, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo y'umweru bisobanura UNCEF.

Ku mugezi uriho umwana wambaye ikabutura n'umupira urimo amabara y'umweru n'umutuku, aricaye hariho amayerikani atatu ubururu n'umuhondo, yasetse ibiganza bye birimo gutega amazi kugira ngo ayanywe.

Abantu bicaye, bambaye imyenda itandukanye, harimo iy'icyatsi, abandi iy'umweru n'umutuku, bambaye udupfukamunwa, ahantu bari, haradekoye, hari ameza, ariho ibitabo, n'umuntu ufite ikaramu yandika, abandi bateze amatwi ababwira.

Umugezi wubakishije sima hariho abantu babiri b'abagore bambaye imyenda itandukanye, bazanye amajerekani umunani arahateretse, baje kuvoma.

Impande y'inzu hari umwana wambaye ikanzu, wasutse nywere mu mutwe, afite igikurutu mu ntoki kirimo amazi, arimo gusuka ku kibaho cy'umukara.

Ahantu hari ibintu bitandukanye, harimo amawuwa n'ibiti, hari umugezi n'umuntu uhahagaze, afashe ku ndobo zihari yishimye anezerewe.

Inzu, imbere yayo hari abana babiri. Ku rugi hamanitseho umwenda, umwana umwe arahagaze undi arunamye arimo gukaraba. Hari indobo n'ibibirika, uyifite arimo kumusukira kugira ngo narangiza gukaraba yihanagure wa mwenda umanitse ku rugu.

Umugezi uriho abantu bakuru n'abana bambaye imyenda itandukanye barahagaze, hari amajerekani y'umweru, umuhodo hakaba n'idomoro y'umukara, umwe arunamye arimo gupompa amazi ngo aze.

Abagabo n'abagore bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye higanjemo imikara iruhande rwabo hari idarapo ry'u Rwanda hari ahantu hadekoye mu ibara ry'umweru bateze amatwi urimo ababwira.

Umugezi n'indogobe bisa ubururu, hariho umuntu w'umuhungu wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'icyatsi, arunamye ateze ibiganza arimo gutega amazi ngo akabe intoki.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu bicaye, bambaye imyenda itandukanye, abagore n'abagabo bafite ibipapuro mu ntoki, bateze amatwi urimo ababwira.

Ahantu hari abantu, harimo n'abana, umuganga wambaye itaburiya y'ubururu na ga mu ntoki, arimo aramutera urushinge kugira ngo akire.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, ibikuta byayo bisize irangi ry'mweru, imbere yayo hari pisinine na sekariye zihajya; hari abantu baje kuhogerana.

Ku mugezi wubakishije igikuta cy'amabuye, hariho umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku n'mabara yumweru, yisutse inwere, arimo gufurira ku kibasi imyenda.

Umugezi wubakishijwe nisima hari umugore urimo kuvoma yambaye umwenda w'icyatsi hejuru n'umupira w'ubururu n'umweru afite izererekani y'umuhondo ateze amazi..

Hano hari abagore babiri n'umugabo umwe umwe arapfukamye baricaye hari imifuka isa umweru yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu harimo ibintu barimo baraterura nditeretse impande n'impande hirya no hino.

Inzu irimo abantu umwe aricaye undi ni umuganga, i ruhande hari ufite ibipapuro arimo kumupima mu kaboko kugirango arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Urupapuro r'ubururu rwandikishijeho amagambo , ari mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, n'umweru, hariho nk'akarongo kamanutse kagatambika, hariho udufureshi tw'umutuku, n'umubare mirongo irindwi na gatanu.

Inzu irimo icyumba kirimo abakozi bo kwa muganga, bambaye amataburiya y'ubururu n'umweru n'ingofero n'udupfukamunwa, bafite utubogisi mu ntoki harimo barereka abari imbere yabo ibirimo.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye barimo nabafite itaburiya bicaye ku ntebe z'umukara, bafite ameza hariho ibitabo bamuteze amatwi bahareba barebe icyo abigisha kugira ngo barusheho kugira ubumenyi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu bicaye harimo uwambaye itaburiya n'agapfukamunwa, bigaragara ko ari umuganga arimo gukingira indwara.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu, hashushanyijeho umuntu uteruye mwana, handitswe n'amagambo mu ibara ry'umweru, UNICEF bisobanura ikigo cyita ku bana mu Rwanda.

Ahantu hari abantu batatu, abagore bambaye udupfukamunwa, bunamye impande y'icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu barimo berekana, hari amajerekani abiri asa umuhondo.

Abantu bicaye ku ibaraza ry'inzu, bambaye imyenda itandukanye, ku gikuta hari igishushanyo, gishushanyijeho amabara atandukanye.

Inzu irimo icyumba giteraniyemo abantu bicaye, harimo uwambaye itaburiya afite ibikoresho byo kwa muganga, apima undi mu kaboko kugira ngo arebe uko ameze.

Umugezi uriho abana bane, wubatse mu isima, bafite akabuni k'umweru n'indobo z'umuhondo ziriho icyapa, barimo kuvoma bunamye.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu batandukanye abagore n'abagabo bambaye amataburiya y'umweru n'ay'ubururu bigaragara ko ari muganga aho bakirira abarwayi.

Hano hariho abantu bane bicaye bambaye imyenda itandukanye irimo umutuku n'umweru, uwundi yambaye itaburiya afite ibikoresho byo gupima, arimo gupima umuntu mu kuboko kugira ngo arebe uko ahagaze.

Ahantu hagaragara umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu iriho ibara ry'umweru ku ikora afashe ku kantu kameze nk'akuma yakitegereje yanezerewe.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, higanjemo iy'imituku hejuru, barimo gukora akarima k'igikoni, kugira ngo bazagire ubuzima buzira indwara.

Hari inzu iri mu ibara ry'umweru amadirishya agaragara, igizwe n'gikuta cy'amabuye ya shokora n'ubururu, hari umubyeyi w'umugore n'umugabo wambaye itaburiya arimo kumwereka uko bapima abana ku gasambi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana babiri b'imibiri yombi bambaye imyenda idasa, bahagaze ku ibuye, uwundi arapfukamye, bafite amajerekani y'umuhondo barimo kudubika mu mazi.

Inzu iriho ibaraza, ihagazeho abantu abandi baricaye, bambara amataburiya y'umweru, abandi iby'ubururu n'umutuku, bambaye uturangantego mu ijosi turanga umurimo bakora, bigaragara ko ari abaganga.

Ahantu hari inzu ifite ibikuta bisinzira irangi ry'umuhondo, imbere yabo hari abantu bahahagaze ni abajyanama b'ubuzima bambaye amatabuya y'ubururu, imbere yaho haru umugabo wambaye ikoti ry'umukara bamwishimiye kuko yaje kubigisha bari ku kigo nderabuzima cya muyange.

Abana babiri bahagaze imbere y'imihati isa icyatsi barimo gukaraba umwe afite igikombe arasukira undi hari n'icyapa mu ibara ryu.

Umugezi wubakishije sima uriho abantu batatu bambaye imyenda itandukanye, umwe arimo gufura, abandi babiri barimo gupompa kugira ngo amazi aze, inyuma yaho hateye n'amawuwa.

Umugezi ufite irange ry'ubururu, hariho robine, hariho urujya n'uruza rw'abantu, bafite amajerekani, bamwe baragenda abandi baza batezeho n'umubirikira kugira ngo amazi akunde agemo.

Ahantu hateraniye abantu, abagore n'abagabo, bicaye undi ahagaze yambaye itaburiya, arimo kubigisha ibijyanye n'ubuzima kugira ngo babone uko birinda indwara.

Umugezi wubakishije sima, uriho impombo ebyiri, hari umuntu uzanye amajerekani kuvomara, arahateretse harimo kujyamo amazi, iruhande hateye ibiti by'indabyo.

Inyubako iteraniyeho abagore n'abagabo, bambaye imyenda itandukanye baricaye abandi barahagaze barimo kugaburira abana kugira ngo bagire ubuzima bwiza, icyo bita igikoni cy'umudugudu.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakote y'umukara n'amapantaro yayo barimo gusuhuranya umwe mu kaboko afitemo igitabo barimo baraganira.

Ahantu hari umugezi ufite impombo eshatu, imbere yawo hari abana bambaye imyenda itandukanye, barahagaze bavuguse isabune mu ntoki, baje gukaraba aho ngaho.

Abagore n'abagabo bahagaze bambaye amataburiya y'ubururu abandi y'umweru, abandi amakote y'umukara baranezerewe baratuje.

Ahantu hari umugezi wubakishije sima, hari igare n'ijirekani y'umuhondo n'umweru, hunamye umubyeyi arimo kuvoma hirya hateye amawuwa,

Abagabo n'abagore bicaye impande y'icyapa kiri ku nzu gikozwe mu ibara ry'ubururu inyuguti iri umweru zanditseho, baricaye buri wese iruhande rwe hari ameza hariho igitambaro cy'umweru.

Abantu bicaye bambaye imyenda itandukanye bari ahantu hadekoye, mu ibara ry'ibendera ry'u Rwanda, imbere yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite ajenda na mikoro mu ntoki arimo kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima.

Ahantu hari agatanda bashyiraho ibintu bamaze koza, hariho amasahane, utubasi, ibikode n'amajage babishyizeho kugira ngo byumuke babone uko babibika.

Abana barimo koga mu mazi menshi, bamwe bameze nk'abaryamye, abandi barahagaze bateze amaboko, bishimye baseka kuko barimo koga banezerewe.

Abantu abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye harimo umweru, umukara, harimo n'abambaye amakoti, bicaye ku ntebe, batuje, bari mu nama, bateze amatwi.

Iruhande rw'inzu hari abagabo n'abagore, bahagaze, bitonze, hirya hino bafite ibipapuro mu ntoki, bereka abari imbere yabo ngo barebe ibyanditseho.

Abantu baje ku mugezi kuvoma, bafite amajerekani asa umweru, umuhondo n'umutuku barayateretse harimo kujyamo amazi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ku mugezi uriho abana batandukanye, bambaye imyenda idasa, hariho ijerekeni n'akabuni bisa umuhondo barimo gupompa amazi akaza.

Umugezi uriho abantu batatu, umwe afite ibesa nini yunamye, harimo imyenda, abandi barimo gukanda kugira ngo haze amazi.

Ikiyaga cy'amazi harimo abantu babiri umugore n'umugabo, umwe afite ijerekani y'umuhondo arimo kudubika amazi, undi arimo koza igare ahagaze, hakurya hateye ibyatsi.

Abantu babiri umugabo n'umugore, bambaye imyenda itandukanye, bahagaze mu ntoki bafite icyapa, cy'ubururu cyandikishijeho amagambo mu nyuguti z'umweru, ngo musure u Rwanda, umwe ni umuzungu undi ni umunyarwanda.

Umugezi uriho urujya n'uruza rw'abantu, bambaye imyenda itandukanye, bafite ibivomesho amajerekani, atubuni, indobo nini, ni ntoya baje gutega amazi kugira ngo babone amazi meza.

Ahantu hari inzu y'amabati yaguye umugesa, hari umubyeyi w'umumama arimo koza ijerekani y'umuhondo mu ibase y'ubururu, indobo y'icyatsi, hirya hari n'imyenda imanitse.

Umugezi uriho abantu baje kuvaoma bafite amajerekani menshi, agaragara mu mabara atandukanye umuhondo umweru, hasize irangi ry'ubururu ku mugezi.

Inyubako iriho abantu batatu bicaye bambaye imyenda itandukanye umwa yambaye agapfukamunwa n'amaherena ateruye umwana arimo amubyinisha kugira ye kurira.

Inzu y'umuryango ufunguye, imbere yayo hari kandagira ukarabe, ikozwe mu biti n'ijererekani y'umweru, hariho umuntu arimo gukaraba, amazi meza n'isabune kugira ngo agire isuku.

Ahantu hari umugezi wubakishije sima, hariho umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara, afite ijerekani aje kuvoma, iruhande rwe hateye indabyo zisa icyatsi.

Umugezi uriho umuntu w'umugabo, wunamye arimo gukaraba, amazi amwitura ku ntoki, hateretse ikidomoro cy'ubururu, haruguru ye hateye indabyo hameze neza.

Inzi irimo icyumba gifite ibikuta bisize irangi ry'umuhondo, harimo abantu bicaye abandi bahagaze, harimo umunzani uriho ikabutura n'umwana bashyizemo, barimo kumupima kugira ngo bamenye ibiro bye.

Inzu irimo icyumba kirimo abana bicaye bambaye imyenda itandukanye y'ikigina n'ikake n'ubururu, inyuma yaho hari ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo, imbere yabo hari ibiryo biri ku meza.

Umugezi wubakishije sima no hasi hashashe, hariho abantu abagore n'abagabo baje kuvoma bafite amajerekani imwe isa umuhondo, indi ijya gusa umweru, hari umubyeyi urimo gupompa kugira ngo amazi aze.

Umugezi wubakishije igisima, biriho abana batandukanye, hateretse ikibasi ,bose barambuye amaboko, barimo gutega amazi ngo bakarabe.

Indobo ya kandagirukarabe isa umweru n'ubururu, iteretse ku ntebe, iri imbere y'urugo, umwana yunamye iruhande rwayo, arimo gufungura akaraba, yishimye aseka.

Abantu babiri, impande yabo hari umwana, wicaye, umwe yicaye ku ntebe y'urubaho, undi yicaye ku ntebe ya purasitike, bari imbere y'inzu y'amatafari ahiye, umwe arimo kumwigisha uko azajya afata uyu mwana we neza.

Umujyezi uriho abana babiri bambaye imyenda itandukanye, baje kuvoma. Amazi arimo kuva mu bidomoro bibiri bisa umweru nu'wundi aragifite gisa ikigina hateye n'amawuwa ari mu iba ry'icyatsi n'umuhondo.

Umugabo usa inzobe, n'ubwanwa bw'umukara, yambaye ishati y'amaboko y'ubururu, iruhande rwe akikijwe nabandi bantu, bagaragara ko afite ikibazo, cy'indwara yo mu mutwe.

Igipapuro gisa ubururu, gishushanyijeho abantu babiri, umwe iburyo undi ibumoso, bambaye imipira y'umweru n'amapantaro adasa, hirya yabo hari amagambo, yanditse mu nyuguti, bisobanura kwizihiza umunsi mukuru w'abarwayi bo mu mutwe ku isi hose.

Abantu babiri ahagaze, bambaye imyenda itandukanye, umweyifashe n'amaboko yombi mu misaya, bigaragara ko arwaye, undi amufasheho arimo amwitegereza, yumiweyo yube icyo yabaye.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, imbere yabo hahagaze umuntu w'umugabo, ufite ibyanwa byakuze by'umweru n'ibisatsi byizingazinze, yambaye igikote cyacitse, afite ikibazo cy'indwara yo mu mu...

Mu muhanda ahantu hateye ibiti, hari umuntu w'umugabo uhagaze, yambaye ipantaro irimo ibara ry'umutuku, akaguru hasi haziritse ikintu cy'icyatsi, ateze amaboko, imisatsi ye yarashwambaguritse, bigaragara ko afite.

Inzu irimo abagore n'abagabo bahagaze ku makaro, bambaye imyenda itandukanye, umutuku, umukara n'ubururu, amaboko bayafatiye imbere, abandi inyuma.

Hari umuntu wishimye arimo guseka, afite ubwanwa n'amatwi agaragara, amenyo y'umweru, yambaye umupira w'umuhondo, aranezerewe, yishimye bihagije.

Abagabo babiri, umwe yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro bisa, imbere ye hari ururabyo rwiza rw'umweru n'icyatsi n'umutuku, yunamye bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ahantu hari umuntu wambaye urunigi rw'ubururu n'umuhondo, yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, aho ahagaze hari indabyo z'icyatsi n'umuhondo, bigaragara ko ari umuntu ukuze.

Hano hari abantu babiri, umwe yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ubusa, yifubitse icyenda gishaje bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, arimo kumusuhuza.

Abantu bateraniye hamwe, abagabo n'abagore bambaye imyenda idasanzwe, bamwe bahagaze, abandi bicaye imbere yabo, bari bavuye mu mahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ,kugira ngo bajye babihugurira abandi.

Inzu irimo icyumba kirimo intebe n'ameza harimo abantu bamwe baricaye undi arahagaze afite mikoro arimo arabigisha ko bakwita ku ndwara zo mu mutwe.

Inyubako irimo icyumba kirimo abana batandukanye, bishimye, bambaye imyenda y'icyatsi, n'umweru, n'umutuku. Baranezerewe kubera uri imbere yabo arimo abasetsa.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe, batuje barangamiwe urimo ababwira, iruhande hari insina n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Ni ahantu hari icyapa gisa umweru, cyanditseho amagambo isange wani sitopu senta, gishushanyijeho inuma iranga ikirango cya polisi.

Inyubako irimo icyumba, abagore n'abagabo bicaye bambaye imyenda itandukanye, umwe afite mikoro, arimo avuga, imbere yabo hari ameza, hariho igikarito cy'amazi na komputa.

Ahantu har’igishushanyo gishushanyijeho umuntu mu ibara ry'ubururu, hariho utunyenyeri tw'umweru, handitseho amagambo mu ibara ry'icyatsi n'umukara, bisobanura ko ari ikigo cyita ku bwonko mu Rwanda.

Umubyeyi w'umugore, ufite abana babiri, aricaye, umwe aramukikiye undi ari iruhande rwe, yambaye ingutiya, n'ishati, n'igitambaro cy'umuhondo, ari imbere y'inzu, impande ye hari ingemeri y'umutuku, irimo ibintu, afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe.

Abagabo n'abagore bari ku ibaraza ry'inzu, baricaye, abandi barahagaze, bambaye udupfukamunwa n'imyenda itandukanye, bamwe bafite imashini barimo kwambika.

Ni ahantu bateraniye abantu, abagore n'abagabo, harimo n'ababikira bambaye imyenda itandukanye, harimo uwambaye itaburiya y'umweru, baricaye, imbere yabo hari ameza ariho mashini n'uducupa tw'amazi, bari mu nama.

Abagabo n'abagore bicaye muri sare, bambaye imyenda itandukanye, harimo iy'ubururu hateguye ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, hateretseho icupa ry'amazi, hariho n'gitabo barimo kwandikamo, baratuje barimo kumva icyo bamubwira kugirango yandike.

Abantu harimo uwicaye yambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara, abandi bamuhagaze impande aziritse amaboko, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abagabo n'abagore bahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza adekoyeho igitambaro cy'umukara, hariho ibitabo, bavuye mu mahugurwa y'ukuntu bakwita ku ndwara zo mu mutwe.

Inzu yukishije amatafari, imbere yaho hicaye umuntu utetse mu isafuriya, akaboko karimo kunyuzamo umudaho, iruhande hari umufuniko w'umweru n'igikombe cy'icyatsi, yasetse anezerewe.

Abantu bahagaze abandi bicaye ku ntebe zisa umuhondo n'umweru, bambaye imyenda itandukanye, bakoze uruziga, baje guhabwa serivisi, ni abarwayi bo mu mutwe.

Igishushanyo kiri mu ibara ry'umweru, hariho inyuguti z'umutuku, icyatsi, n'umukara, handitseho umubare makumyabiri na gatanu, hari igishushanyo cy'umuntu, wambaye agapfukamunwa, badushishikariza kujya tugira ubupfukamunwa.

Inzu irimo icyumba kirimo abagabo n'abagore barahagaze, bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye iy'umweru, hari ameza iriho ibitabo n'inzu yo kwa muganga.

Inzu irimo icyumba, kirimo umwana wicaye ku ntebe y'umuhondo, yambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara, afite biswi mu ntoki, yayitamiye, imbere ye hari ameza, yanezerewe.

Inyubako ifite amabati y'ubururu, ku ruhande hariho ibara ry'umuhondo, handitseho inyuguti, hari abagabo n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze bambaye imyenda itandukanye, bateze amatwi urimo ababwira.

Inzu yubakishije amabati y'umutuku, ku ibaraza ryayo hagaze abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, ku ruhande rwo hirya no hino hari ameza arambitseho ibitabo.

Abantu babiri b'abagore bicaye, bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho utuntu tw'udukinisho, umwe ni umurwayi wo mu mutwe.

Umugore wicaye yambaye imyenda y’umweru amaboko ye yayazamuye ayafatisha mu mutwe, hasutsemo n’inweri bigaragara ko arwaye umutwe.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda itandukanye, abagabo n'abagore bafite icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, handitsemo amagambo ko ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwa cumi na kumwe, buri mwaka ari bwo bibuka indwara z'ubwonko.

Abagabo n'abagore bahagaze, bitonze, bambaye imyenda itandukanye, harimo imituku, imikara n'umweru, n'abambaye iya gipolisi bashinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana ntahohoterwe.

Umuntu uhagaze ku gipangu, wambaye ipantaro n'ishati, impande ye hari icyapa cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara, hashushanyijeho akantu k'umutuku, bigaragara ko ari ikiyobora abantu, ko ari i Ndera, iyo umuntu yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bamujyanayo.

Jeanette Kagame, yambaye ishati y'ubururu, amarineti mu maso n'ama herena ku matwi, arimo gutanga ikiganiro, kubijyanye n'indwara yo mu mutwe.

Ahantu hari amahema y'amatente, y'umweru, hariho n'ibara ry'icyatsi, hahagaze abagabo benshi, bafite igipapuro mu ntoki bahurijeho bose, barimo bakerekana, ngo abandi birebereho.

Abantu, abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, bambaye imyenda itandukanye, buri hantu hari ameza adekoyeho igitambaro cy'ubururu, hamwe hateretseho isakoshi n'ibitabo, barimo kwiga ku bijyanye n'indwara yo mu mutwe.

Inyubako irimo icyumba, umukecuru n'abuzukuru be batandukanye, bambaye imyenda idasa baricaye, barimo bitegereza nk'aho imbere yabo hari umuntu barimo bareba.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, yo mu ibara ry'umukara n'icyatsi, bafite icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo 'kurwanya ihohoterwa nishingano zanjye'.

Icyumba kirimo abantu batandukanye abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye harimo'abambayetayo y'umweru na bage mu ijosi iranga umurimo akora, imbere hari ameza hariho mashini n'udukurutu dutatu tw'amazi, bigaragare karimo kwigisha abantu bafite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe.

Yicaye yumiwe amavi ya yazamuye, ukuboko yagushyize ku itama, yambaye imyenda icikaguritse n'ibikweto bibi, afite ibishashi bibiri, birimo amazi. bigaragara ko ameze nk'umurwayi.

Inzu ifite ibikuta by'irange ry'umweru, amadirishya agaragara mu ibara ry'umuhondo handitseho amagambo mu nyuguti z'umutuku, bisobanura ko ari inzu bavuriramo abarwayi bo mu mutwe.

Umugabo uhagaze, yambaye umupira w'icyatsi, yazanye amarira ku maso n'ibimwira ku mazuru, iminwa yarahiye, afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Inzu ifite ibaraza, iteraniyeho abagore n'abagabo, bambaye imipira y'ubururu, abandi ishati y'umweru, hariho uturangantego, bambaye n'ama pantaro, barahagaze, baratuje.

Inzu ifite amabati asa umweru, ku rukuta hasize irangi ry'umuhondo, amadirishya n'inzugi ari iry'umukara, ku mpande yubakishije amabuye, ni inzu yo kwa muganga.

Umuntu wicaye, yambaye inkweto y'umumutuku n'igikote, no mu mutwe, n'inkweto zisa nabi ,afite ibyatsi mu ntoki ameze nkuri kubirya, impande hari ibitutu bigaragarara ko nari umurwayi wo mu mutwe haruguru ye hicaye abandi banttu babiri bifashe ku matama bumiwe.

Ahantu hari ibyuma bitandukanye, bisa umweru, umukara n'ubururu, bapimisha abantu barwaye kugira ngo bamenye icyo barwaye, babone umuti babaha.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu babiri, umwe aryamye undi ni umuganga yambaye itaburiya mu maboko harimo ga, afite mu ntoki ze utwuma arimo kumureba mu kanwa.

Umwana wicaye, ahantu hasa ubururu, yambaye umupira w'umweru, inyuma yashyizeho ikanzu, mu ntoki afite uburoso, buri mu kanwa, yambaye ingofero y'umweru, hariho n'akagori gafite ururabyo.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe yicaye ameze nk'uryamye, undi ahagaze imbere ye, yambaye itaburiya n'agapfukamunwa na ga mu ntoki, afite ipesi, arimo kumukura amenyo.

Umuntu uhagaze, w'inzobe, yasamye, mu ntoki ze afite pesi, yayishyize ku menyo, arimo kuyakorera isuku, kugira ngo atazarwara amenyo.

Ahantu hari umuntu w'umugabo wambaye umupira w'umweru, yasetse cyane, afite ubwanwa n'amenyo agaragara acishijemo akarongo i ruhande hasa icyatsi.

Umwana w'inzobe wasamye, iruhande rwe hari ibiganza by'undi muntu ufite utwuma mu ntoki ze yadushyize mu kanwa ke kugira ngo amukorere isuku y'amenyo.

Umuntu w'umugabo usa inzobe wambaye umupira w'umukara, akaboko yagakojeje mu kanwa, ariho kari impande ye hari ibiganza bibiri byambaye ga z'ururu, afite akantu k'umweru k'akaroso mu ntoki, arimo amuhereza ngo azajye akogesha amenyo.

Ahantu hari umugabo w'inzobe, ufite ubwanwa, yambaye umupira w'umukara, yasamye, araseka, amenyo aragaragara, yerekana ko nta kibazo afite, ari muzima.

Abantu batatu, babiri bahagaze umwe yicaye yasamye, hari uwambaye itaburiya y'ubururu undi iy'umweru n'agapfukamunwa, na rinete mu maso na ga mu ntoki, afite akuma arimo gukoza mu kanwa, bamukura amenyo ngo agire ubuzima bwiza.

Ahantu hari ibyuma byo kwa muganga biri mu ibara ry'umukara, harimo n'umukasi babikuza amenyo iyo umuntu arwaye akaza kwivuza ibyo bakoresha.

Ni ahantu hari umuntu asa inzobe, yasetse amenyo agaragara, amaboko yayazamuye, afitemo akadodo, yakanyujije mu menyo, arimo gukozamo yireba mu ndorerwamo.

Icyumba kirimo imashini z'amoko atandukanye, harimo n'intebe ebyiri bigaragara ko ari aho bakurira amenyo, imwe yicaraho umurwayi, undi umuganga akamufasha.

Umwana usa inzobe ,wambaye umwenda w'umweru urimo amabara, mu ntoki afite uburoso busa ubururu n'umuhondo, yasetse amenyo aragaragara, arimo kuyakorera isuku.

Ahantu hari umukobwa usa inzobe, ufite inywere mu mutwe agaragaza amenyo, imbere yaho hari ikiganza cy'umuzungu cyambaye ga z'umweru arimo kumushyiriramo amenyo kuko ayandi yavuyemo.

Abana b'abanyeshuri bambaye inifomo, bafite korogati mu ntoki bazimanitse, bazibahaye ngo bajye biborosa bagire isuku mu kanwa, bahagaze mu ntebe bicaraho,

Ahantu hari igishushanyo kigaragaza mu kanwa harimo amenyo, harimo irirwaye bamaze kurikura riri mu kuma barikuje ririho n'amaraso.

Inzu irimo icyumba harimo abagabo babiri uwambaye ishati y'icyatsi ameze nk'uryamye uwundi ahagaze imbere ye yambaye itaburiya n'agapfukamunwa na ga mu ntoki bisa n'umweru arimo kumukora mu kanwa amukura amenyo.

Umugabo usa inzobe hejuru nta kintu yambaye afite ubwanwa bw'umukara amaboko ye yombi harimo akadoda yakanyujije mu menyo yasetse bigaragare ko ari umuti arimo kuyavura.

Umugabo w'inzobe ufite ubwanwa, wasamye, amenyo agaragara, harimo akantu, arimo kuyitamo ayakuraho umwanda, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu usinzobe, wambaye agasengeri k'umweru, mu ntoki ze afitemo akadedo, yakanyujije mu menyo, yasetse aragaragara, yerekana ko ari mazima.

Inzu iri mu cyumba kirimo abantu babiri, umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa na ga mu ntoki, uwundi araryamye ku gitanda gishasheho matora y'ubururu, barimo kumushyira sonde mu mazuru kuko yarembye.

Abana babanyeshuri bahagaze, bambaye imyenda y'ubururu hejuru, hasi ari icyatsi, hari abafite utuntu mu ntoki, abandi barimo koza amenyo, bishimye baseka.

Inzu irimo icyumba kirimo abagore n'abagabo batandukanye bafite abana, harimo abantu babiri, bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, barimo kurebera umwana mu kanwa, bambaye ga mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga, hari ibikoresho bitandukanye bifashisha bakira abarwayi iyo baje kwikuza amenyo.

Umwana uhagaze, yambaye imyenda y'umweru, mu ntoki ze afite uburoso, busa umuhondo n'ubururu, agiye koza mu kanwa.

Abagabo n'abagore bari hamwe bambaye imyenda itandukanye bishimye aho bari hari icyapa cy'umweru kirimo inyuguti z'ibara ry'icyatsi n'ubururu baraseka banezerewe cyane.

Ahantu hari umwana w'inzobe, agaragaza amenyo, hirya hari ibiganza byambaye ga z'umweru, bifite ipensi mu ntoki, bagiye kumukorera isuku mu menyo.

Umugore w'inzobe wicaye yambaye agasengeri k'umweru n'igitambaro bisa, akaboko kamwe karambuye, akandi gafashe uburoso bw'ubururu, arimo koza amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu bahagaze impande y'ahantu hari ikibaho, bari kumwe n'umwana, bafite igishushanyo cy'amenyo mu ntoki, barimo kumwereka ukuntu azajya ayoza akayakorera isuku, inyuma yabo hari umuzungu bigaragara ko bari baje kubasura.

Umugore wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, arahagazena rinete mu maso, hari ahantu hari ibyuma byinshi, afite ikaramu mu ntoki ari mo kwandika ku rupapuro rufri ku meza.

Abantu bahagaze batandukanye abagore n'abagabo, bari imbere y'ikibaho, bambaye imyenda idasa, harimo uwabambaye umupira w'icyatsi, ikositimu n'uwambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, afashe umwana mu ntoki arimo kumwereka igishushanyo cy'amenyo uko bazajya bayakorera isuku, inyuma yabo hari umuzungu.

Icyumba kirimo umuntu wasamye w'inzobe amenyo agaragara n'intoki zambaye ga, zirimo kumukora mu kanwa zifite ipesi mu ntoki, bigaragara ko bagiye kumukura iryinyo.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe aryamye undi ahagaze yambaye itaburiya y'icyatsi n'agapfukamunwa k'ubururu, mu ntoki harimo ga, amureba mu kanwa, agira ngo arebe ko aharwaye.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kumwe na mwarimu wabo, mu ntoki zabo bafite korogati bayimanitse, bari mu kuyerekana, bishimye.

Imbere y'inyubako yubakishije irange ry'umutuku n'umweru, hari abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara iriho akabara, umwe intoki yazishyize ku munwa undi azishyize hejuru hateretse n'ibintu bibiri biriho agakwege hejuru.

Umugabo w'inzobe, wambaye umupira w'umweru, arahagaze, imbere ye hari ibikoresho no mu ntoki afite ibindi, bigaragara ko ari ibyo kuvura, agiye kwivura.

Umuntu usa inzebe, agaragaza amenyo azamuye ibiganza byombi, uruhande rumwe n'urundi afatishaho urutoki rumwe rumwe, bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo.

Inzu iramo icyumba haririmo abantu babiri, umwe yambaye rinete, itaburiya y'umweru, na ga mu ntoki, utwuma mu maboko, undi yasamye, ari mukukimukoza mu kanwa, bigaragare ko arimo kumuvura amenyo.

Abantu babiri b'ababyeyi, bicaye inyuma y'inzu, inzu igaragara amadirishya umwe yambaye umupira w'umweru n'amarinete, arimo guseka, uwundi yambaye umupira w'ubururu yifashe ku itama, afite amaherena ku matwi, imbere ye afite isuteri y'icyuma, uwundi arimo gukata imboga ziri mu ibara ry'icyatsi, hari n'iziri mu ibara ry'umutuku.

Ahantu hari abantu babiri, umwe afite inweri mu mutwe, yambaye n'umupira w'umukara, yarambuye amaboko ku wundi, arimo kumukanda ku rutugu, bigaragara ko afitemo ikibazo.

Inzu rimo icyumba kirimo umugabo n'umugore bicaye ku ntebe z'imisego, imbere yabo hari ameza umwe afite igikombe mu ntoki undi urupapuro, arimo amwereka ibyanditseho.

Ahantu hari abantu harimo abasaza babiri bakenye, bambaye n'ingofero mikenyero y'umweru undi y'umukara bategereje gukora ibirori.

Umukecuru uhagaze yambaye umupira w'ubururu yageretseho akandi k'umweru, afite mikoro mu ntoki y'umutuku n'ishapule mu ijosi, arimo kuvugira mo imbere, hari ameza, haruguru ari imodoka, aramo arabwira abantu bari imbere ye.

Ahantu hari abagabo babiri, bambaye amashati y'umweru, umwe afite umupira w'umukara mu ijosi, barimo baraseka cyane, umwe arunamye, afite agakurutu k'amazi mu ntoki, yumiwe.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu babiri, umwe n'umugabo, undi ni umugore ni umuzungu, arimo kwita kuri uwo musaza, yicaye ku buriri bushasheho amashuka y'umweru, hirya hari ameza ateretse utubuni tubiri.

Umuntu uhagaze yambaye umupira afite ibinini mu ntoki kandi akandi kaboko harimo ikirahure kirimo amazi, iruhande rwe hari umugezi agiye kunywa ibinini.

Ahantu hari abantu babiri b'abagore bambaye imyenda itandukanye umwe yambaye linete n'ingofero mu mutwe y'umukara, barebana amufashe ku rutugu ku maboko ye.

Umusaza uhagaze, ufite imvi mu mutwe na rinete mu maso, afite ekuteri mu matwi, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, yarambuye amaboko yombi harimo utuntu tw'umutuku yanezerewe.

Abantu bari munzira bagenda, ni abagore, bamwe bambaye imyenda y'umukara, hejuru ni umweru, bafatanye ku ntugu, begeranye.

Inzu irimo icyumba bariramo, harimo abantu babiri umugore n'umugabo, imbere yabo hari ameza ateretseho amasahani, ariho ibiryo by'ubwoko butandukanye, nk'ikirahure bagifashe mu ntoki, basetse banezere...

Inzu irimo icyumba kirimo abagabo babiri bicaye, umwe yambaye rinete, hari ameza, hirya hino hari ibikombe, bafite igitabo, arimo kumwereka ibyo asoma.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu babiri b'abamama, bicaye mu ntebe z'imisego, basetse bishimye, umwe afashe undi mu ijosi bigaragara ko banezerewe.

Abantu bibiri bambaye imyenda y'umutuku umwe yambaye rinete, undi isaha ku k'akaboko n'impeta, arimo arareba icyo urimo gukora mu ntoki, aracyitegereje hari ameza ariho igikombe n'agacupa.

Inzu irimo icyumba, kirimo abantu batatu b'abamama, bambaye imyenda itandukanye, banezerewe, bishimye basetse, umwe afite utuntu mu ntoki, asa nk'aho ari we ubasekeje.

Inyubako igaragaza icyumba kirimo abantu babiri, umugabo yegamye afite inkoni mu ntoki, uw'umugore yambaye itaburiya, arimo amusekera, amuvura, amukoraho kugira ngo akire.

Inzu irimo icyumba kirimo umugabo n'umugore umwe ni umuzungu undi ni umunyarwanda, yambaye itaburiya yo kwa muganga, arimo kumufatisha ku byuma kugira ngo amwigishe kugenda kuko yari arwaye.

Ahantu hari icyumba kirimo abantu babiri, hateraniyemo imbuto z'ubwoko bwose, harimo ameza ateretseho igisuperi, hari n'intebe, hirya hari tajeri iteretsemo ibintu, bigaragara ko ari icyo bariramo.

Ahantu hari icyumba kirimo abantu babiri bicaye umwe yambaye itaburiya y'ubururu, undi iy'umweru, umugore arimo gupima umugabo mu kaboko yagateze arimo arebaho yambaye na rinete.

Inzu irimo icyumba, yicayemo abagabo n'abagore, umwe yambaye n'amarinete mu maso, abandi bafite amasahane mu ntoki, harimo ikiyiko, bigaragara ko harimo ikintu bagiye kuryama.

Umukecuru w'inzobe, ufite imisatsi yashokoje, yambaye ikote ry'umukara n'umutuku, imbere harimo umupira w'umweru, mu maboko ye ateruye utuntu tubiri tw'icyatsi byamushimishije.

Abagore n'abagabo bicaye bambaye imyenda idasa, bateze amaboko, ubona bishimye, inyuma yabo hari icyapa kigizwe n'ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku.

Ahantu hicaye abantu babiri b'abagore, n'uwambaye umupira w 'umutuku n'umweru, undi w'umukara wisutse n'intweri mu mutwe, yarambuye ukuboko uwundi arimo kumukandiraho.

Abagabo n'abagore bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye amaguru yabo bayakandagije ahantu hari igitambaro cy'umutuku, ku meza hirya hino hadekoyeho igitambaro cy'umweru.

Ahantu hari abantu bicaye imbere yabo hari ameza, perezida wa repubulika ahari arimo kubigisha ngo barebere hamwe icyahagarika virusi ya mabaga kuko ari mbi iteza ikibazo mu Rwanda.

Umuntu w'umugabo usa inzobe wambaye ikoti ry'umukara n'ingofero, ahagaze impande y'amabababi y'icyatsi afite igipapuro mu ntoki cyanditseho amagambo mu i ibara ry'umutuku, bisobanura ko kwikingiza indwara ya manki pogisibikenewe.

Ahantu hari icyapa kirimo ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo, hahagaze abantu abandi bicaye, abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye ku ntebe z'umukara baratuje bateze amatwi ibyo...

Inyubako irimo icyumba kirimo abantu batandukanye, abambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye ibisubeti, bamwe bareba muri mashini, abandi barimo gukora isuku muri jaride kugira ngo hase neza.

Abantu batatu umwe yambaye imyenda y’umweru n’udupfukamunwa, umwe aricaye, undi arimo kumukoraho ameze nk'umuvura.

Inyubako imbere yayo hari abantu bahagaze, bambaye udupfukamunwa n'imyenda y'ubwirinzi n'ingofero yayo bategereje ko babazanira umurwayi.

Igishushanyo kiriho umuntu w'umukobwa uhagaze usa inzobe, iminwa yayisize afite inwere mu mutwe, handitseho amagambo ibara ry'umutuku n'umuhondo, bisobanura ko ari umunsi w'ubuzima ku isi.

Ahantu hari abagore n'abagabo, bambaye imyenda itandukanye abandi babyina, bishimye hari icyapa, cyo mu ibara ry'umweru n'umutuku, handitseho amagambo ngo twirinde SIDA ku Isi.

HPR n’ikigo cyashinzwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza cumi n'umwe ngo kijye cyita ku buzima bw'abaturage bo mu Rwanda.

Abantu babiri bahagaze, bambaye imyenda itandukanye, inyuma yaho hari idarapo, bafite icyapa mu maboko bombi baragifashe, cyanditseho amagambo ngo "Igituntu ni indwara ivurwa igakira".

Inyubako ihagazeho abantu, abagabo n'abagore, bambaye imipira y'umutuku n'udupfukamunwa, bamwe baricaye ku ntebe za parasitike, abandi barahagaze, hari abafite udukapu, turimo utuntu bagiye kubahereza.

Inyubako irimo icyumba kirimo abantu bicaye, bambaye imyenda itandukanye n'amataburiya n'udupfukamunwa, hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, hateretseho ibintu byo mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hari icyapa cy'ubururu harimo akaziga k'umweru, hirya hino hariho ingabo, ku mpande hari utuntu dushushanyije tw'ishaka, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru asobanura icyo aricyo.

Abagabo n'abagore, bateraniye hamwe bicaye, bambaye amataburiya na ga mu ntoki, barimo gufata amaraso abarwayi, kugira ngo barebe ko barwaye, bagire ubuzima bwiza.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu b'abagore bicaye bambaye imyenda itandukanye, imbere y'abo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umutuku hariho n'ibitabo, barimo kwandika bari mu nama.

Inyubako iteraniyeho abantu benshi, abagabo n'abagore, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, bicaye no ku ntebe za parasitike, bateze amatwi umuntu arimo ababwiriza, amabwiriza bagiye gukora.

Abantu bari imbere y'ibaraza ry'inzu, bamwe barahagaze abandi baricaye, bigaragara ko ari abanyeshuri bambaye inifomu ibaranga, imbere yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, bicaye batuje ahantu hadekoye, mu ibara ry'umuhondo, umutuku n'umukara, bateze amatwi, urimo kubigisha, barimo barasenga.

Inyubako irimo icyumba kirimo abagore n'abagabo bamwe baricaye abandi baragenda bafite ibintu mu ntoki bambaye amataburiya y'umweru hari n'ameza ateretseho ibintu barimo gukora ibintu bitandukanye.

Ni ahantu hari inzu y'igorofa, ibikuta byayo bisize irange ry'umweru n'umuhondo, hari utwuma tw'umukara, harimo amakaro hasi, ni inzu yo kwa muganga.

Inzu ya itaje ifite urukuta isize irange ry'umweru na shokora, imbere hari amapave, hahagaze abantu, inzu yo kwa muganga baje kwivuza.

Sare zirimo ibitanda bitandukanye biriho matora ibindi bishasheho amashuka y'umweru, harimo abaganga niho bakorera bakakira abarwayi baje kwivuza bari mu bitaro.

Inzu yubakishije ku mpande ibikuta by’irangi ry'umuhondo amadirishya ari umweru n'umukara imbere hari akandi gatoya inyuma yayo hari ikigega imbere hateye jaride hasi ari amapave inzu bavuriramo.

Ahantu hari amazu, n'amabati y'ubururu hasize irangi ry'umutuku n'umweru imbere yaho hari imodoka ihagaze. Hasi ni amapave, hari icyapa cyanditseho amagambo risobanura ko ari ivuriro ry'i Butare.

Inyubako nziza y'irangi ry'umuhondo n'umutuku, hari ubusitani bwiza bw'indabyo nyinshi, abantu barahari barimo kuhakora isuku kugira ngo hakomeze hase neza bajye bahagenda.

Abaganga bane bari imbere y'inzu y'ababyeyi ya materineti, bambaye udupfukamunwa n'imyenda ibaranga y'akazi, mu gatuza harimo udukarita tw'imirimo bakora bahagaze ku mapavi.

Abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye n'inkweto, imipira y'imihondo, bicaye batuje, bateze amatwi umuntu urimo kubwira ibyo kwiteza imbere.

Inzu yubakishije amabati y'umutuku, ku mpande hasizeho irange ry'umweru n'umuhando, igikuta cyayo ari amabuye, imbere yaho hari ubusitani, hari abantu bahagaze n'abicaye.

Abantu, abagabo n'abagore, harimo abazungu, bambaye imyenda itandukanye, barahagaze umwe aricaye, bari iruhande rw'icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ko ari ibitaro bya Butaro.

Bahagaze imbere y'ibaraza ry'itaje igeretse, igaragaraho irangi ry'ubururu, umweru n'ikijuju, mu birahure ari umukara, ni abagore n'abagabo, bategereje guhabwa serivisi zabazanye.

Inzu ifite ibaraza ryicayeho abagabo n'abagore, uwundi ahagaze, harimo babiri bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa bose tw'ubururu, arimo gufata ku muntu, bigaragara nk'aho arimo kumuvura.

Icyumba gifite inkuta zisa umweru, harimo ibikoresho by'ibyuma byo mu mabara atandukanye ikigina, umukara, ubururu kwa muganga n'ibyo bifashisha bavurisha abantu.

Umugabo wambaye ishati yumutuku n'umugore wambaye itaburiya y'ubururu baricaye barimo kumupima akaboko agirango arebe ko afite ubuzima bwiza buzira umuze.

Inzu y'itaje, igeretse, imbere hari akandi gatoya, ahagana hirya hari abantu, bigaragara ko ari aho bavurira indwara.

Ni ahantu hari inzu ifite ibikuta bisize irangi ry'ubururu n'icyatsi, imbere hateye amawuwa, ni inzu yo kwa muganga.

Ahantu hari inzu yubakishije amabati y'umutuku, ni ebyiri, imwe ifite ku bikuti irangi ry'umweru, ahandi ni umuhondo, imbere hatewe ubusitani, hari n'amapave, hari n'igipangu cyubakishije amabuye, hari na jalide.

Hari inzu ifite matafari y'umutuku, hubakishije ku bikuta irangi ry'umuhondo n'umweru, imbere hateye jaride, hakoteye n'isima, ni aho bakorera ubushakashatsi bw'ubuzima kuko haricaye n'abantu mo imbere.

Inzu ishakaje amabati y'umutuku, isize irange ry'umweru, hari amajaride, hasi hari amapave, hahagaze abantu batatu barimo bagenda bihuta.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, iby'ibyuma, imbere harimo abantu, uwundi ari ku muryango, atambuka, yambaye imyenda y'ubururu, ni kwa muganga.

Ahantu hari etaje igeretse, hari ibirahuri by'ubururu, hasize irangi ry'umweru, ku ruhande hasi hariho imitako y'umuhondo n'umukara, n'amawuwa, bigaragara ko ari inyubako y'abakire.

Inzu irimo icyumba kirimo imiti itandukanye, isa umweru, umutuku, umukara n'ubururu, ni muri foromasi aho bayicururiza abantu bakajya kugurayo.

Inzu isize irangi ry'ubururu, inkuta ari umweru, hari esikariye zimanuka, fondasiyo yubatswe n'amabuye, hari na jaride, hari abantu, ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe, baje kwivuza.

Ahantu hari amazu ashakaje amabati y'umweru, ku rukuta hari amatafari y'umutuku, hamanuweho inkingi, imbere yaho hari amapave, hari na jaride, ni inzu yo kwa muganga.

Inzu y'igorofa yubakishije amabati y'ibara ry'ubururu, isize irange ry'umweru, umutuku n'ikijuju, hariho ubusitani, hasi ikoresheje amapave.

Inzu ifite icyumba kirimo etajeri irimo imiti itandukanye, amabara y'icyatsi, ubururu n'umutuku, iyo umuntu arwaye araza bakamuha akanywa agakira.

Inzu y'igorofa yubakishije amabati y'umutuku isize irangi ry'umweru ku bikuta n'ubururu, imbere hari jaride ihagazeho abantu babiri barimo kuhakora isuku.

Icyumba kirimo intebe zisa ubururu n'izisa umukara, hari ameza asa icyatsi n'umweru, hateretseho mashini, inyuma yaho hari ibishushanyo by'amaso bigaragara ko ari ho bavurira amaso.

Inzu irimo icyumba giteraniyemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe y'amafoteyi y'umukara umwe, ahagaze imbere yabo, bambaye udupfukamunwa, bamuteze amatwi, arimo arabigisha.

Ahantu hari inzu ifite amatafari y'umutuku, ku nzugi n'amadirishya ari umweru, impande n'impande hateye jaride n'indabyo, ni kwa muganga aho abantu bakirirwa.

Ahantu hari icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda by'ibyuma, hashashemo matora haryamyeho umuntu yiyoroshe amashuka y'ubururu, uwundi mugabo arimo kumanika supanete kugira ngo imibu itazajya ibarya, ahagana hirya hari ameza ateretseho indobo y'umweru.

Icyumba kirimo ama mashini atandukanye n'amabara y'umukara, umweru, n'ikijuju hari n'igitanda cy'icyuma gishasheho amashyuka y'umweru, iyo umurwayi aje nibo bamwakirira ni kwa muganga.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye ariho ibaraza ry'inkuta z'umweru, hateye amawuwa meza kandi menshi, bigaragara ko ari inyubako y'abantu bifashije kuko isa neza.

Inyubako irimo abantu batandukanye abagabo n'abagore, harimo abambaye udupfukamunwa n'amataburiya n'ingofero z'ubwirinzi bw'akazi baje gufasha abahari kugira ngo babakemurire ibibazo bibazanye.

Inzu yubatswe n'amabati y'ibara ry'ubururu, ku mpande hari amatafari asize irangi ry'umweru ku nzugi n'amadirishya, hasi hari jaride z'amawuwa, hariho ibyapa byanditseho amagambo.

Ahantu hari inzu ifite amabati isize irangi ry'umukara ku birabura by'umweru ku rukuta rw'icyatsi handitse amagambo mu ibara ry'umukara risobanura ko aririnze inzu yo kwa muganga.

Inzu yubakishije amabati y'ubururu no ku bikuta byayo, hari inini n'intoya, imbere yabo hari amapave ahahagazemo imodoka n'ubusitani mu ibara ry'icyatsi hagaze abantu mu muryango no kwa muganga baje gusaba serivisi.

Inzu ifite ibikuta bisize irangi ry'umuhondo n'umutuku, imbere yaho hari abantu bahagaze bambaye imyenda itandukanye, hari n'ihema bita itente ry'umweru ni kwa muganga baje gusaba serivisi.

Ahantu hari inzu isize irangi ku nkuta ry'umuhondo, imbere yaho hateye sipure, ku marembo hamanitseho akantu k'uruziga kariho amagambo y'ibara ry'umweru risobanura ko ari ibitaro bikuru bya Kabgayi.

Inzu yubakisha amabati y'umururu, ku rukuta hasize irangi ry'umuhondo, impande hubakishije amatafari ahiye, kuri porutayi hari icyapa handitseho ko ari ibitaro bya Ruhengeri, hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza.

Inzu isakaje amabati y'ubururu ku bikuta hasize irangi ry'umuhondo n'umweru, hariho n'umutuku imbere hari amapave n'ibara ry'icyatsi hateyemo amawuwa, handitseho amagambo mu ibara ry'umukara ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye harimo n'igitanda kiryamyeho umugabo wambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara, arimo selumu mu kaboko ararwaye.

Inyubako igaragaraho abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye. Umwe yambaye itaburiya. Umwe yicaye mu kagare. Barimo baramusunika bamujyanye kwa muganga, ahantu hari ibara ry'icyatsi n'umuhondo kugira ngo bakurikirane ubuzima.

Ahantu hari icyumba cyo kwa muganga, harimo ibitanda by'ibyuma, hashasheho matera haryamyeho umuntu, yiyoroshe amashuka y'umweru, harimo umugabo uri kumanika supanete ngo imibu itazajya irya abarwayi, hirya hari indobo isa umweru.

Inzu irimo icyumba gishashemo ibitanda bitatu na matora, hariho amashuka, imwe isa ubururu, indi isa umweru, hamanitse na supaneti.

Ahantu hari inzu irimo icyumba, zirimo imashini zitandukanye, zisa umweru, ikigina, umutuku, bakoresha iyo umuntu yabuze indwara, bakamunyuzamo, bakareba icyo arwaye.

Inzu yubatse bukonoshi ku bikuta isizeho irangi ry'umuhondo, imbere hagaze umuntu wambaye umupira w'umweru, hariho icyapa cyanditseho amagambo peniyera foromasi.

Ahantu hari inzu y'itaje n'ibikunda bisize irangi ry'mweru n'umuhodo, imbere yabo hasi hari amapave, hahagaze imodoka zirenze imwe, hateye amawuwa, ni ku bitaro byo kwa Nyirinkwaya.

Inyubako yubakishije amabati y'umutuku isize irangi rya shokora n'umweru, imbere yayo bateretse ameza abiri ateguyeho ibitambaro by'ubururu n'umweru harasa neza inyubako y'abakire.

Inyubako yo kwa muganga, yubakisha amabati y'ubururu, isize irangi ry'umweru, handitseho inyuguti, hasi ni amapave, hicaye abantu, baje kwivuza, kugira ngo bagire ubuzima butarwaye.

Inzu irimo icyumba giteraniyemo abantu bicaye bambaye imyenda itandukanye hari ameza ateretseho udukurutu twamazi andi ariho kompiyuta arimo areba .

Ahantu hari icyumba cyo kwa muganga, harimo ibyuma bitandukanye n'ameza n'igitanda, ni byo bifashishije iyo umuntu aje, babuze indwara bakamunyuzamo kugira ngo barebe.

Ahantu hari inzu igaragaza amadirishya n'inzugi hasize irange ry'umweru n'icyatsi, hahagaze umuntu wambaye itaburiya, ingofero n'agapfukamunwa, hari indobo y'icyatsi bigaragara ko ari imyenda y'ubwirinzi.

isezeranye ry'umweru kaman n'inkingizi ry'umutuku imbere yohejeride n'amakaro hasi inzu yo kwa muganga

Icyumba kirimo amamashini; iyo umuntu arwaye baramuhaye umuti ntakire bakabura indwara arwaye bamuzanamo agacamo; bakareba icyo arwaye kugira ngo bamubonere umuti.

Inzu ifite irangi ry'umweru ku bikuta handitseho n'akanyuguti k'umutuku, imbere yayo hari akavaze karimo iwuwa risa icyatsi, hasi ni amakaro.

Batatu bambaye amataburiya y'umweru, ingofero n'udupfukamunwa by'ubwirinzi bwa COVID, bari iruhande rw'imodoka irimo umurwayi, bagiye kumukuramo ngo bamuvure agire ubuzima bwiza.

Ahantu hari abantu batatu, umubyeyi w'umumama w'umugabo n'umwana, yambaye itaburiya n'agapfukamunwa afite ibyuma, urimo gupima umwana yazanye kuvuza kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inyubako y'amabati y'umutuku n'amatafari, hasizeho irangi ry'umweru, imbere yaho hari ubusitani bwiza bw'amahuhwa, hariho ibyuma, bigaragara mu ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'ikibaho cy'umukara, cyandikishijeho inyuguti z'umweru, bambaye imyenda itandukanye, hari uwambaye itaburiya iriho ibara ry'ubururu, agapfukamunwa ku kananwa, afashe undi ku rutugu arimo amwereka.

Inzu irimo icyumba giteguyemo intebe n'imisego, akabati n'ameza gateretseho amawuwa, harimo abantu bamwe baricaye abandi barahagaze, hashashe amakaro.

Ahantu hari ibyuma by'amabara atandukanye, harimo umutuku, umweru, ubururu n'umukara, ni kwa muganga ni ho bakirira abantu bakabanyuza mu cyuma.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, imbere harimo umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'umukara, yicaye ku ntebe y'icyatsi, yitonze, ategereje abo aha serivisi.

Inzu y'itaje, ifite ibirahuri by'umukara, ku nkuta isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari umuntu uri mu kagare k'abarwayi, arimo yisunika, hirya hateye jaride y'amawuwa.

Inzu y'igorofa nini isize irange ry'umweru ku bikuta n'umukara, ku ibaraza ryayo hahagaze abantu, bigaragara ko ari kwa muganga baje gusaba serivisi, hirya hateye ubusitani hameze neza.

Umugore wicaye yunamye, yambaye itaburiya isa umweru, irimo akabara ka move, yambaye ga mu ntoki, yifashe ku musaya, imbere ye hari ibintu bisa ubururu, areba atuje.

Inzu ishakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari y'umutuku ahiye, imbere hasize irangi ry'umuhondo handitseho amagambo isange one stop center Remera Rukomo, ni inzu yo kwa muganga.

Agatajeri karimo imiti y'amoko yose, harimo iri mu ibara ry'icyatsi, umweru, umutuku n'umuhondo, ni foromasi aho bayicururiza, umuntu uyishatse akayigura.

Ahantu hari amazu, amwe asakaje amabati y'umutuku ahandi y'ubururu. Ku bikuta hasizeho irangi rya move, imbere yaho hari amapave. Ni inzu yo kwa muganga.

Inzu irimo icyuma kirimo ibyuma bitandukanye, y'amabara adasa, hashashe n'gitanda, ishyuka y'ubururu , bifashisha, iyo umurwayi aje kunyura mu cyuma niho bamuryamisha.

Inzu ifite ibikuta bisize irangi ry'umuhondo. Mu muryango hahagaze, abantu imbere hari amapave hirya hagaze imodoka y'umweru, hino hahahagaze iy'umukara, ni kwa muganga. Baje gusaba serivisi.

Inzu zisakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, imbere hahagaze imodoka, hateye imikindo muri jaride; ni inzu yo kwa muganga bavuriramo abantu.

Inzu yubakishije amabati asa icyatsi, ku rukuta hasize irangi ry'umuhondo n'umweru, imbere hari porotayi iri mu ibara ry'ubururu, hateye n'amawuwa, imbere ni amapave, ni kwa muganga.

Inzu ifite amabati y'ubururu, ibikuta byayo bisize irangi ry'umweru n'umuhondo, imbere yayo hateye amawuwa, hahagaze abantu abagore n'abagabo, handitseho ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi baje kwivuza.

Inzu ifite amabati y'umutuku, irangi ry'umweru ku madirishya no ku inzugi, hasinze hari amapave, ku ibaraza hari intebe z'umukara n'ameza bateguye.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'amarinete mu maso, uwundi araryamye ku gitanda amwunamye hejuru bigaragara ko arimo kumukorera serivisi.

Inzu isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari y'umutuku ku madirishya ari umweru, imbere hasize irange ry'umuhondo, hateye pasiparume, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu materinite inzu y'ababyeyi babyariramo.

Ahantu hari inzu yubakishije amatafari, amabati ari umutuku, imbere mu kirongozi asize irangi ry'umuhondo, imbere hashashe sima, ku mpande hateye amawuwa asa umuhondo, ni inzu yo kwa muganga Remera Rukomo.

Ahantu hari inzu ifite amabati mu ibara ry'ubururu n'ibikuta byayo ari irangi ry'umweru imbere yaho hateye jaride bigaragara ko ari kwa muganga.

Ahantu hari inzu y'itaje, yubakishije amatafari y'umutuku, impande yayo hateye jaride, imbere ari amapave, ni inzu yo kwa muganga bakoreramo.

Inzu yo kwa muganga, irimo icyumba kirimo abantu babiri, umwe yambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, undi akikiye umwana w'uruhinja, umuganga amukoraho, arimo kumusuzuma.

Abantu bahagaze ku igikuta cyanditse amagambo mu ibara ry'icyatsi, umukara bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa bazamuye akaboko bagira igipfunsi tuzabikora, tuzabikora.

Inzu y'itage igeretse ikoresheje amabara atandukanye harimo ubururu, icyatsi n'umuhondo handitseho amagambo hopitare inzu kwa Nyirinkwaya avuriramo.

Inzu yubakishije amabati y'ubururu, ku bikuta hasize irange ry'umuhondo, imbere yayo hari amapave hari n'indabyo, kuri porutaye handitseho amagambo, ibitaro bya Kabgayi aho bavurira amaso.

Inzu irimo icyumba, irimo abantu babiri umwe ni umugore yambaye ikanzu y'ubururu, undi ni umugabo yambaye itaburiya afite n'amarinete mu maso, n'ikayi mu ntoki ni kwa muganga arimo kumusomera imiti bamwandikiye.

Inzu yubakishije amabati y'umutuku, kurukuta har’irangi ry'umweru n'umukara, handitseho amagambo asobanura ko ari ikigo cy'amashuri.

Inyubako y'inzu igeretse, iragaragara ko ari nziza, yubakishije amatafari n'amabati y'ubururu, hasi ni amapave, hari abantu benshi batandukanye abagore n'abagabo n'imodoka barahagaze batuje.

Inzu irimo icyumba kirimo ibyuma bitandukanye bisa umweru, umukara, umuhondo, ni byo bifashisha bavura abantu, ni kwa muganga. Babanyuzamo iyo babuze indwara.

Inzu irimo icyumba giteraniyemo intebe, ameza, ifite irange ry'umweru hejuru, ku mpande ari umukara hari akabati gateretseho amacupa atandukanye.

Inzu ya etaje igeretse ifite ibikuta bifite irangi ry'umweru, imbere yaho hari imodoka, hahagaze abantu, hari n'amapave n'ubusitani bigaragara ko ari kwa muganga.

Inzu isakaje amabati y'ubururu, ku bikuta hariho irangi ry'umweru, umutuku, handitseho amagambo mu ibara ry'umukara, imbere hateye jaride, n'amakapave ni ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Inzu ifite icyumba, ifite igikuta gisizeho irangi ry'umweru n'ubururu, handitseho utuntu muri iryo bara, hari igitanda cyo kwa muganga kiriho matera, iruhande hari ameza ateguyeho.

Icyumba kigaragaramo intebe zitandukanye ziriho imisego n'amawuwa ateguye muri icyo cyumba, harasa neza, ni mu imyubako igaragara ko ari iy'abakire.

Inzu yo kwa muganga irimo ibyumba bitatu, irimo amarido hari umuganga uhagaze mu muryango iruhande rwe hari ameza asi icyatsi ategereje uwo aha serivisi.

Ahantu hari akagare gasa umukara, ubururu gafite amapine bifashisha bavuye muri siporo, bagize ikibazo bakatwaramo umuntu.

Umuntu urimo gukora siporo yirukanka yambaye ikabutura y'umukara n'agasengeri k'umweru n'inkweto azengurutswe n'imbuto zitandukanye: ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri umuntu yifashisha avuye muri siporo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira n'inkweto bisa, akaguru kamwe yakarambuye inyuma akandi karahinnye, amaboko yayafatishije hasi arimo gukora siporo kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Inzu irimo icyumba kigaragaramo abantu babiri umwe yambaye umupira w'umutuku n'akabutura, uw'undi yambaye itaburiya y'umweru yarambuye akaguru, amaboko ye agafasheho arimo kumuvura kuberako agize ikibazo avuye muri siporo.

Ahantu hahagaze umuntu w'umugabo, yambaye umupira w'icyatsi, ku kaboko hariho akantu ka move, mu ntoki ze afite igikurutu, yararamye, kirimo amazi, arimo arayimena mu maso no mu mutwe.

Ahantu mu nyubako harimo icyumba kirimo abantu babiri umwe yambaye itaburiya yo kwa muganga mu gatuza harimo ikirangantego cy'akazi akora uryamye yamuzamuye akaguru arimo akagorora bigaragara ko.

Umugore wicaye, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira bisa w'agasengeri, yazamuye amaboko araramye, arimo kunanura imitsi kugirango agire ubuzima buzira umuze.

Ahantu hari baro, inkweto ni pomo, biri mu mabara y'umweru, umukara n'umutuku, bifashisha bakora siporo kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze.

Umugore wicaye yambaye ipantaro n'umupira w'umukara, amaguru yayarenganyije akaboko kamwe yakarambuye akandi agakubye arimo kwikanda bigaragare ko muri siporo, imbere ye hari mashine.

Ahantu hari ibyuma bitandukanye bifashisha abari muri siporo, hari n'imbuto z'amoko yose uretse kabesaye no ku kibasi barya bavuye gukora siporo.

Ahantu hari umuntu w'umugabo wambaye umupira w'umweru, ahagaze, abisikanyije amaboko, kumwe yaguhinnye ukundi yakurambuye, impande hari ikidomoro cy'umukara n'ahagana hirya hari ikindi.

Ahantu hari abantu babiri umwe yicaye undi ahagaze akagaruka kamwe barimo kugahambiraho bande akandi kambaye inkweto, iruhande rwe hari umukasi bigaragara ko yagize ikibazo arimo gukora siporo.

Abagabo batatu, umwe yambaye isengeri y'umutuku, abandi ijire z'imihondo, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara, bavuye muri siporo barimo kuruhuka.

Umukobwa wicaye yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri bisa, afite inweri mu mutwe, amaguru ya yayahinye, akaboko kamwe kari hejuru akandi yagafatishije hasi, iruhande rwe hari gurude y'amazi, arimo gukora siporo.

Hano hari abantu babiri, uwambaye umupira umukara, undi aryamye agaragara amaguru, kamwe akarambuye kandi gashinze, undi arambuyeho ibiganza arimo kumukandiraho, bigaragare ko yagize ikibazo, ari muri siporo.

Umukobwa uhagaze, yambaye agasengeri k'umukara, na kuteri mu matwi, afite inweri, yambaye isaha, akaboko kamwe yakazamuye akanyuza mu mutwe, agafatisha ku kandi, akandi agashyira mu mugongo arimo gukora siporo.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye isaha ku kaboko, ikabutura y'umweru n'inkweto bisa, hariho imishumi y'umukara n'ibara ry'umutuku, akaboko kamwe yagafatishije hasi, akandi gafashe ku kirenge, arimo gukora siporo.

Ahantu hari abantu babiri b'abagore bicaye bambaye imyenda idasa n'agapfukamunwa umwe ateze akaboko barimo kugahambiraho bande bigaragara ko yavunitse.

Ahantu hari ishusho y'ubururu, igaragaramo ikiganza cy'umuntu, afite igikurutu gifite umufuniko, harimo ibintu bigaragara nk'umweru.

Bande iri mu ibara ry'ubururu, imbere hasa umweru, bayikoresha ku muntu wavunitse avuye muri siporo, nuko bayimuhambiraho, imvune igakira vuba.

Ahantu hari umuntu wicaye ugaragara amaboko n'amaguru, yambaye umupira w'umutuku, afite igisebe yipfutseho n'ibipfuko by'umweru, yakomeretse arimo gukora siporo.

Ahantu hari umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'umweru, akaguru kamwe yagashinze hasi akandi yahagaritse ivi riri hejuru, amaboko yayashyize hejuru arimo gukora siporo.

Igikoresho gisa umuhondo hatambitseho uturongo dutatu tw'umukara, bakoresha mu gutwara abantu barembye cyangwa bakomeretse.

Umugabo usa imibiri yombi, usutaraye, akaguru kamwe yagahinnye, akandi karambuye karimo n'urukweto rusa umweru n'umutuku, yafatishijeho akaboko, akandi kambaye isaha arimo gukora siporo.

Ahantu hari umuntu w'igitsina gore, aricaye arambuye akaguru akandi karahinnye karimo urukwetaro rwa sipuresi y'umweru, yambaye ipantaro y'umukara n'agapira, arambuye amaboko, haziritseho ikintu n'umugozi wa cagi uri iruhande rwe.

Ahantu hari imiti y'amoko yose iri mu ducupa tw'ibara ry'umweru, umufuniko ari umukara, hari ibikarito irimo ni yo bifashisha bavuye muri siporo.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu babiri umwe yicaye yambaye imyenda y'ubururu undi aragaragara ikiganza amufashe mu ntoki arimo amukoresha siporo.

Igipapuro ki ibintu bitandukanye bari mu gukora siporo barerekana uburyovuye gukora siporo ibyo bakoresha kugirango utagira amavunane.

Udukombe tw’amabara atandukanye icyatsi, umutuku, umukara na move, turimo imiti bisiga bavuye gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ahantu hari umugabo uhagaze, yambaye umupira w'icyatsi, yararamye, yazamuye akaboko afite n'igikurutu arimo kunywa, umuti wagenewe, kunywa uvuye muri siporo.

Abantu babiri, umwe aryamye yambaye ikabutura y'icyatsi n'ishati y'umweru, amavi yazamuye, undi yicaye yambaye umwenda w'ubururu, arimo kumukora ku maguru, amusiga umuti wabugenewe iyo uvuye muri siporo.

Abagabo umwe aryamye nda apfukamye abandi bahagaze bambaye imyenda ya siporo, iruhande rwabo umupira wa balon uwuryamyezamuye ivi ibamo ku mukanda bigaragara ko yagizemo ikibazo.

Umukobwa uryamye yubitse inda afite inwere mu mutwe, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri, amaboko ayafatishije hasi arimo gukora siporo, impande ye hari ivaze irimo amawuwa.

Umuntu w'umumama uhagaze mu mutwe harimo menshi, zihambiriyeho akantu k'umutuku amaboko yayazamuye arimo gukora siporo.

Icyumba kirimo abantu bicaye bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa n'ingofero z'icyatsi, imbere y'abo hari ameza ateguyeho igitambaro hateretseho ibikoresho barimo gukoresha.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara, n'isengeri y'umweru, aricaye, akaguru kamwe yagahinnye n'akaboko, akandi yakararambuye, akaboko gafashe mu bworo bw'ikirenge, arimo gukora siporo, iruhande rwe hari igurudu irimo umuti ari bunywe arangije.

Abantu babiri b'abagabo bambaye imyenda idasa umwe yambaye ikabutura y'umweru n'umutuku n'umupira w'umukara, umwe araryamye undi arahagaze afite terefone mu ntoki amufashe akaguru arimo kumunanura imitsi.

Ahantu hari igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, handitse amagambo asobanura imiti wakwifashisha uvuye muri siporo, ukayinywa.

Inzu iri mu ibaraza n'umuntu wicaye ku kintu cy'ubururu yambaye ipantaro y'umutuku n'umupira afashe mu birenge byombi n'amaboko yasetse anezerewe.

Ahantu hari icyumba kirimo mashini na kompiyuta hari umugabo wicaye ku ntebe y'umweru, yambaye ishati y'umutuku, arimo kureba muri mashini ibyo agiye gukora.

Ahantu hari umubyeyi w'umugore, wambaye agapira k'uburu umweruru n'icyatsi, afite n'agasharupe mu ijosi, arahagaze, afite igikurutu mu ntoki arimo kunywa amazi, avuye muri siporo.

Umugabo uhagaze, usa inzobe, hejuru atambaye, akaboko yagafatishije ku gituza, kariho igipfuko cy'ubururu n'umutuku, yakomeretse arimo gukora siporo.

Ahantu hari umuntu ugaragara nk'umugabo yambaye umupira w'umweru n'umukara n'isaha ku kaboko yafashe amaboko ayashyira mu irugo ayafatanyije, bigaragara ko arimo gukora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inzu yo kwa muganga, harimo icyumba kirimo abantu babiri, umwe ni umukozi waho, undi ni umurwayi, arimo kumupfuka ku ntoki, bigaragara ko yakomeretse avuye muri siporo.

Igipapuro gishushanyijeho imiti itandukanye: umweru, umuhondo n'ikijuju, hariho n'agacupa, handitseho amagambo asobanura iyo miti ko uyifashisha uvuye gukora siporo.

Umukobwa wicaye amaboko n'amaguru birambuye, ipantalo n'umupira yambaye ari ubururu, umusatsi yawupfundikiye inyuma, bigaragara ko arimo gukora siporo kugira ngo azagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ahantu ku mabesanyi, hateretse imbuto z'amoko uzi yose, harimo amagi, ibishyimbo, pavuro, hateraniye n'ibyuma.

Ahantu hari icyuma ,n'imbuto zitandukanye, ziri mu mabara adasa ,hari n'igikureti kirimo amazi , iyo umuntu avuye muri siporo ,ararya, akanywa n'ayo mazi akagira ubuzima.

Umuntu urimo gukora siporo amaboko yashinze, impande hari imbuto zitandukanye ibinyomoro amapapayi imineke mandelina na pome n'inkeri.

Evarisi z'umutuku, umukara n'umweru hirya hari izindi. Harimo umuti abantu bisiga bavuye gukora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako irimo umuntu w'umugabo wicaye. Yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu. Akaboko kamwe akarambuye, akandi gafasheho. Hariho utuntu, bigaragara ko hari icyo bamaze kumukora ku kaboko.

Umugabo w'inzobe, uhagaze, yambaye umwenda w'icyatsi, yararamye, azamuye akaboko, arimo kunywa amazi mu gikurutu, avuye gukora siporo.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi n'akantu ku kaboko, arahagaze, afite igikurutu mu ntoki kirimo imiti bakoresha bavuye muri siporo, arimo kuwimenaho.

Umuntu usa inzobe wambaye agapantaro n'agasengeri bisa bya move, akaguru kamwe yagahinnye akandi yakarambuye n'amaboko yayarambuye yayafatishijeho, arimo gukora siporo kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umukobwa wicaye arambuye akaguru ahinye akandi, yambaye ipantaro y'umukara n'agapira yashokoje yarambuye amaboko, afite ekuteri mu matwi arimo gukora siporo kugira ngo ubuzima bukomeze.

Ahantu hari ibishushanyo bine bishushanyijeho abantu handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu, kigaragaza ko abo bantu barimo gukora siporo zitandunye.

Abagabo n'umugore umwe, barahagaze uwundi aregamye, ahantu hashashe ikirangiti bambaye utujiri turiho ikimenyetso cy'umusaraba cy'umutuku, barimo kumukoresha siporo.

Umuntu w'umugore wambaye ikabutura y'umukara hariho umweru na gasengeri bisa, umweru mu mutwe, apfukamye arambuye amaboko ari gukora siporo kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umweru n'inkweto. Aryamye agaramye akaguru kamwe yakarambuye kandi yashinze amavi, n'amaboko yayarambuye arimo gukora siporo imbere y'ibyuma.

Ahantu hari imbuto zitandukanye zirimo imineke, ibinyomoro, amaronji n'indimu, hari n'ibinini bisa umweru n'umutuku, hari n'igikombe cy'ubururu byarimo, hari n'undi muti w'umukara bifashisha bavuye muri siporo.

Umuntu w'umugabo, wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri bisa, akaguru kamwe yagapfukamishije, akandi gashinze ivi, amaboko yayamanuye, arimo gukora siporo, kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Ahantu hari ibikoresho ukoresha uri muri siporo n'ibiryo ugomba kurya uvuye muri siporo, biri mu mabara atandukanye, ibitera imbaraga, ibiririnda indwara, n'ibyubaka umubiri.

Ibiganza bibiri bigaragara ko ari iby'umuzungu byambaye ga z'umukara, hamwe hariho akabara k'umweru bigaragara ko arizo bafatisha umupira kugira batavunika barimo gukina.

Umugore wicaye yambaye ipantaro y'umutuku n'isengeri bisa, amavi yayashinze, amaboko yayarambuye yayanyujije hagati y'amaguru, arimo gukora siporo, iruhande rwe hari ibyuma, hino ye hari agatebe.

Ibiganza bifashe imbuto hariho n'indabyo, avoka n'inyanya, iruhande hari inkweto, haruguru hari indobo, hirya y'aho hari amatoroshi abiri y'umutuku afite umweru.

Abantu babiri bari mu nzu bafite inkoko n' undi afite akabuni, umwe yicaye undi ahagaze hirya hari amagi yayo.

Umuntu wicaye, yambaye itaburiya y'umweru, afite mu ijosi, akantu bapimisha abantu, ivi yarizamuye amaboko yombi ni ho afashe, agiye kwivura imvune kuko yakoze siporo akagira ikibazo.

Umugabo usa inzobe wambaye ipantaro y'umukara ku mpande hariho ibara ry'umweru n'agasengeri, afite gmecouter mu umutwe, yambaye n'inkweto za suppress n'amasogisi, akaguru kamwe yakarambuye akandi yashinze ivi, afatishijeho amaboko arimo gukora siporo.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye umupira w'umukara hariho na furari y'umweru afite agafuto k'amazi arimo kuyanywa avuye muri siporo kugirango agire ubuzima bwiza.

Abagabo babiri umwe yicaye undi yunamye, bambaye imyenda idasa, akaguru k'umwe kamaze kumushyiraho bande, agiye gushyira ku kandi, iruhande rwabo hari umuti, bigaragara ko yagize ikibazo.

Icupa risa umweru n'umufuniko waryo, n'umukondo waryo, hariho igipapuro inyuma mu ibara ry'umukara, handitseho amagambo mu mutuku no mu cyatsi, bisobanura ko ari umuti bakoresha bavuye muri siporo.

Ahantu hari uducupa turi mw’ibara ry'umweru n'imifuniko yatwo, hariho igipapuro kirimo ibara ry'ubururu n'umutuku, handitseho amagambo y'umukara n'umuhondo, bisobanura ko ari umuti bakoresha bavuye muri siporo.

Umuntu wunamye yambaye imyenda y'umutuku n'umukara ku ikabutura, yambaye amasogsi n'inkweto z'umweru, arimo gukora siporo cyangwa amakona kugirango agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu uvuye muri siporo yicaye kuri esikariye yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu n'inkweto ziriho umweru, agasume mu ijosi, afite telephone mu ntoki arimo kunywa amazi.

Uducupa tw'umweru n'imifuniko yatwo turiho igipapuro cy'umukara n'umutuku n'umuhondo, hariho inyuguti, ni umuti urimo umuntu anywa kugira ngo akore siporo.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu babiri, umwe aryamye, yambaye urukweto rwa supuresi y'icyatsi, umukara, n'umweru, undi arimo kumukanda ku kaguru, yambaye utuntu ku maboko.

Umugabo wicaye, wambaye umupira w'umweru, imbere hagaragara uw'umukara, akaboko kamwe yakarambuye, akandi agafasheho, arimo ku gakanda, avuye muri siporo.

Inyubako irimo icyumba, kigaragaramo abagabo n'abagore, bambaye ubupfukamunwa n'imyenda itandukanye, irimo itaburiya y'ubururu, bafashe umwana, barimo baramureba mu kanwa, bameze nk'abamuvura.

Umugore w'imibiri yombi uhagaze, yambaye umupira w'ubururu n'icyatsi na furari mu mu ijosi y'umweru, yazamuye akaboko karimo igikurutu cy'amazi arimo kunywa avuye muri siporo.

Hahantu hari imiti y'amoko yose hari mu ibara ry'umukara, umweru, n’umutuku hari n'uducupa hari naga, n'udupamba bahanaguza abantu bagize ikibazo cyo gukomereka bavuye gukora siporo.

Uducupa dusa umweru imifuniko yatwo handitseho amagambo mu nyuguti z'umutuku, umukara n'umuhondo, bisobanura ko ari umuti bakoresha bavuye gukora siporo.

Umuntu ugaragaza akaguru gahagaze, akabumbambari hariho igipfuko, kiri mu ibara ry'ubururu n'umutuku, bigaragara ko yakomeretse arimo gukora siporo.

Umugore wicaye yambaye ikabutura y'ubururu n'umweru n'agasenge k'ikijuju, amaguru yaya arambuye yafatishijeho amaboko arimo gukora siporo.

Ahantu hari igipapuro kiriho ibishushanyo bitandukana byerekana ko babyifashisha bari muri siporo. Hashushanyijeho n'umuntu w'umuzungu arimo kwitaba telefone, bigaragara ko yari muri siporo.

Umugabo wicaye, yambaye agasengeri gasa ikigina, amaguru yayazamuye, amaboko afashe mu mutwe, arimo kwinanura akora siporo.

Inzu irimo icyumba, kidekoyemo imyenda y'ibara ry'ubururu, umweru, n'umutuku, harimo abantu babiri, umwe yambaye itaburiya n'agapfukamunwa, uwundi araryamye, arimo kumukoresha siporo, kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umuntu w'umugabo usa inzobe wambaye umupira arahagaze avuye gukora siporo mu ntoki harimo igikurutu arimo aranywa amazi kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Ahantu hari ibyapa mu ibara ry'ikigina, rya croix rouge, harimo umusaraba w'umutuku n'umweru, handitseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Ikiganza cy'umuntu, cyambaye ga y'umukara, ufite mu ntoki ijage y'ikirahure, imbere yacyo hateretse ikindi gitoya, arimo gusuka, ni umuti bakoresha bavuye muri siporo.

Umugabo uhagaze, yambaye umupira w'umweru, afite na kuteri mu matwi, akaboko kamwe yakamanuye akandi yakazamuye karimo igipfutu karimo kunywa umuti, avuye gukora siporo.

Umuntu w'imibiri yombi, uhagaze, wambaye umupira w'umukara, akaboko kamwe yakamanuye, akandi yakazamuye gafite igikurutu, arimo kunywa, ni umuti banywa bavuye muri siporo.

Ahantu hari abantu bane b'abagabo, bambaye imyenda itandukanye, barimo bariruka, barimo gukora siporo, kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Ahantu hagaragara ibirenge bisa inzobe bihagaze, kimwe mu ivi ariho ibipfuko bigaragara ko yagize ikibazo agakomereka arimo gukora siporo.

Umukobwa uhagaze yambaye ipantaro y'umukara n'umupira akaboko kamwe karambuye kaziritse ikintu haguru y'inkokora akandi gahinnye gafite igikurutu cy'amazi arimo kunywa.

Ahantu hagaragara umuntu, ibice bigaragara akaba ari amaboko n'amaguru, yambaye umupira w'icyatsi, arapfukamishije ivi rimwe irindi yarihagaritse, ibiganza bifasheho, yambaye n'urukweto, arimo gukora siporo.

Ahantu hari umugore, wambaye agasengeri k'ubururu, afite inweri mu mutwe, akaboko kamwe yakamanuye, kamufasheho, akandi yakazamuye, karimo igikurutu, bigaragara ko arimo kunywa umuti, avuye gukora siporo.

Ahantu hari uducupa tubiri dusa umuhondo, imifuniko ari umukara, hariho ibara ry'icyatsi rishushanyijeho, n'udukarito iruhande, harimo umuti wa kinyarwanda.

Ahantu hari uducupa dutatu dutandukanye twanditseho amagambo mu mabara adasa, rimwe umukara, umutuku n'ubururu, yo ubwayo asa umweru n'imifuniko harimo imiti.

Ahantu hari utubuni tubiri dusa umuhondo, imifuniko ari umutuku n'amagambo yanditseho bisa ku mpande. Hirya hino hari ibikarito biri mu ibara ry'icyatsi birimo umuti bavuza abantu Kinyarwanda.

Umuntu ugaragaraza imiti isa y’icyatsi ,umuhondo n'umweru ateretsemo akabasi ibiganza by'umuntu kimwe gifashe agahini, ikindi gifashe hasi ari no kuyisekura kugira ngo azabone uko ayivuza.

Ahantu har’imiti y'amoko atandukanye, harimo icyatsi, umutuku, hateretse indobo irimo igikakarubamba n’imiti bavuzaga kera.

Agacupa gasa umweru umufunika ari umuhondo, handitseho amagambo mu ibara ry'umutuku, iruhande rwabo hari akabogisi bawuzanamo kanditseho amagambo y'uko witwa.

Ahantu hateraniye imiti iri mu mabara y'amoko yose, isekuye iri mu dutete n'idasekuye, hari isa umweru, umuhondo, ikijuju, hari agasekuru bayisekuramo n'umuntu aje bamuvura bya kinyarwanda.

Aha hantu hari uducucu, amacupa n'udukombe biri mu mabara atandukanye umuhondo, umweru n'icyatsi gishushanyijeho ibikakarubamba bigaragaza ko ari umuti wa kinyarwanda bavuzaga kera.

Ahantu Hari umuti ufite amababi y'ibara ry'icyatsi, ibibabi byabyo ni binini. Ni umuravumba bawukoresha iyo umuntu yarwaye inkorora bakawumuha agakira.

Ahantu hari igipapuro gishushanyijeho agacupa k'umweru n'umufuniko wako, handitseho amagambo hariho n'ibara ry'umuhondo rigaragara kari umuti urimo.

Muri etajeri, igaragaramo ibinyobwa bitandukanye, harimo fanta ya koka y'umukara, ifite umufuniko w'umutuku, harimo ibikurutu birimo ji, bipfundikije imifuniko y'icyatsi birasa neza.

Akabogisi gasa umweru n'umutuku n'umuhondo, handitseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, bisobanura ko ari umuti wa Kinyarwanda uba urimo bifashisha bavura abantu.

Jaride harimo indabyo zitandukanye ziraba indabo z'umutuku, umuhondo, umweru, ikijuju zirasa neza ziteye imbababazi.

Ahantu hateretse amavaze y'umukara bashyizemo itaka bateramo imbuto z'amawuwa zirahagaze, hariho n'icyapa cyanditseho amagambo y'umweru asobanura.

Ahantu hateye indabo z'icyatsi, muri zo hateretsemo ivaze y'ibara ry'umukara, mo imbere harimo n'agati kazo.

Ibinini bitatu bifunitse impande hari agakarito byavuyemo kari mu ibara ry'umweru n'icyatsiri, biri mu biganza by'umuntu arimo abyerekana.

Ahantu hari uducupa tw'amabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umweru, move, turimo imiti, handitseho amagambo kuri buri kamwe, uko usobanura, n'uwo bakoresha iyo barwaye.

Ahantu hateye umuti, ufite amababi y'icyatsi, indabyo z'umutuku n'umweru, harimo umuntu wambaye igitenge, ikiganza kirimo gusoroma kuri izo ndabyo, ni ukugira ngo akuremo umuti avuza abantu.

Ahantu hari umuti, ni mu gacupa k'ibara ry'umweru n'umufuniko wako, handitseho amagambo mu nyuguti z'umutuku, hashushanyijeho akarabo k'icyatsi, bisobanura ko ari umuti uvura ubwonko bifashisha bavura abantu.

Umuhondo mifunika n'imituku handitseho amagambo mu ibara ry'umukara hashishanyije'kakabamba hibyara akandi gasa umweru harimo umutsi wa kinyarwanda bavurisha abantu.

Utubuni tubiri turi mu ibara ry'umuhondo handitseho inyuguti, imifunika ari umutuku, ku ruhande hari agacupa kariho icyatsi uteretse ahantu h'umweru turasa neza .

Ahantu hateye umuti ufite amababi asa icyatsi, umeze neza wo bakoresha bavura abantu mu buryo bwa kinyarwanda.

Igiti gifite amababi y'icyatsi, gikoreshwa mu kuvura abantu, bakakinywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Amacupa atandukanye, ari mu mabara y'umweru, umuhondo, umutuku, harimo umuti bavuza abantu kwa muganga.

Ahantu hateye imiti, amababi asa icyatsi n'umweru, bayikoresha bavura abantu mu buryo bwa kinyarwanda bagakira.

Aha hantu, hari agacupa gasa umweru n'umufuniko wako, handitse amagambo mu ibara ry'umutuku, ahagana hepfo yako hariho amagambo asobanura ko ari umuti uvura amibe.

Ahantu hateye umuti ufite amababi y'icyatsi uri mukavaze, bifashisha bavura abantu iyo barwaye ku buryo bwa kinyarwanda.

Uducupa dutandukanye dusa umweru n'imifuniko, utundi turiho imifuniko y'imituku, twanditseho amagambo mu mabara atandukanye umuhondo, ubururu n'icyatsi, harimo imiti ya Kinyarwanda.

Ahantu hari umugabo uhagaze, yambaye ishati y'umweru, mu ntoki afite igikurutu kirimo umuti usa ikigina, umufuniko ari ubururu, inyuma ye hari etajeri irimo ibikurutu byinshi, impande ye hari imiti irambuye, imbere ye hari indobo, bigaragara ko arimo kuyitunganya.

Udukurutu tune turi mu mabara adasa n'imifuniko yatwo, duteretse ahantu hadekoye mu ibara ry'umutuku, umuhondo, duteretse ku meza, harimo imiti bavuza ya gakondo.

Ahantu hari ipapayi imwe yose, indi y'igisate, hagaragaramo imbuto z'umukara, bigaragara ko iyo bakuyeho bayiriye.

Agacupa ka oranje n'umuvuniko wako, hariho igipapuro cy'umweru, handitseho amagambo, hepfo hashushanyijeho ibikakarubamba, harimo umuti wa Kinyarwanda, abantu banywa bagakira.

Ahantu hari igikombe gipfundikiye gisa umweru umufuniko ari umuhondo handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu bisobanura ko kirimo umuti bagurisha.

Ahantu hari igishushanyo kiriho amabara y'imiti yose icyatsi, umuhondo, umweru, umutuku niyo bifashisha basoma iyo umuntu aje kwivuza bakabona uko bamuvura.

Ahantu bateye imiti itandukanye bigaragara ko ariyo bavuza abantu igihe barwaye bakayikoresha babavura gakondo.

Icyumba kirimo imiti iri mu mabara atandukanye, iri mu dukarito tw'umuhondo, umutuku, umweru, iyo bakoresha bavura abantu iyo barwaye.

Ahantu hari uducupa dutandukanye, dufite imifuniko idasa, umutuku n'umweru, hariho n'ibyapa, harimo umuti bavuza abantu mu buryo bwa Kinyarwanda.

Ahantu hari uducupa n'udukurutu tw'amabara atandukanye, harimo umweru n'umuhondo imifuniko imwe ari umutuku, hakingirije n'umwenda, harimo imiti bavuza kinyarwanda.

Ahantu hari akabuni k'umuhondo, amagambo yanditseho n'ibara ry'umutuku n'umufuniko waryo, kari ahantu hasa ubururu, impande, hirya hino hari ibikakarubamba by'icyatsi.

Muri etajeri, hari imiti itandukanye, mu ducupa, mu dukurutu, mu tudobo, bagaragara ko hari imiti bavuza abantu, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ahantu hari agacupa gasa umweru, kanditseho amagambo mu ibara ryo mu bururu n'umufuniko ariko usa, bigaragara ko harimo umuti bifashisha bavura abantu.

Umuti uteye, uri mu ibara ry'icyatsi, utubabi ni tureture uratoshye, bawukoresha bifashisha kuvura abantu, mu buryo bwa Kinyarwanda.

Ahantu hari uducupa tw'umweru n'imifuniko yatwo, hariho n'ibara ry'umukara kuri tumwe ahandi umutuku, handitseho amagambo, ni umuti wica udukoko.

Ni ahantu hari ibintu bitandukanye, harimo ikirahure giteretsemo imiti gisa icyatsi kiriho n'indabo z'umweru, hari ikiyiko kiriho umuti w'indabo z'umuhondo, hari uducupa, n'imiti bifashisha mu buryo bwa kinyarwanda.

Agacupa gasa umweru n'umufuniko wako, inyuma hariho igipapuro cyanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo n'umukara, bisobanura ko ari umuti banywa, iyo abantu barwaye.

Ahantu hateye imiti, barahazitiye n'utubaho tw'umweru dutambitse n'uzamuka, iri mu mabara atandukanye iyo bifashisha bavura abantu mu buryo bwa kinyarwanda.

Icupa risa umweru n'umufuniko waryo hariho igipapuro cyanditseho amagambo bisobanura ko harimo umuti wica imibu batera mu mazu n'ahantu hari ibihuru kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira indwara.

Ahantu hari ibintu bigaragara nk'imigati iri mu ibara rya shokora ibindi biri mu kibasi hakaba icyapa cy'umuhondo n'icyatsi ku cyapa hakaba handitseho amabara y’umukara n'umweru.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri zihagaze, hari n'abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, icyatsi, umweru n'umukara, bahagaze impande yazo.

Ubusitani bw'indabyo z'umweru n'icyatsi, harimo abantu babiri, umwe iburyo, undi ibumoso, umwe yambaye ingofero, arimo aritegereza imbere ye, hakurya ngo arebe ko mugenzi we amubona.

Abantu babiri, umugore n'umugabo, yambaye umupira w'umweru n'igitambaro, yambaye uw'umutuku, bahagaze ahantu hateye imiti barimo kuyireba ngo basorome.

Agacupa kari mu ibara ry'icyatsi, hatambitseho akantu k'umuhondo n'amagambo yanditseho, impande yaho hari igikakarubamba, bigaragare ko harimo umuti wa kinyarwanda bavuza.

Ni ahantu hari utubuni dusa umuhondo n'imifuniko y'umutuku n'utundi dusa umweru, imifuniko ari move, hirya yatwo hari imiti iri mu mabara y'umuhondo, bigaragara ko ari umuti wa Kinyarwanda bifashisha bavura abantu.

Ahantu hari amavaze, asa umweru, hari n'uducupa tw'umutuku turiho n' imifuniko kandi gapfunduye hati, harimo imiti basekura bagashyira muri utwo ducupa bakavura abantu.

Uducepa tune, kamwe gasa umukara gapfundikiye, utundi dusa umweru n'imifuniko yatwo, handitseho amagambo yo mu ibara ry'umutuku, hirya hari indobo, inyuma yaho hari inzu, turimo umuti wa kinyarwanda.

Ahantu hateye umuti, ibibabi byabyo ari icyatsi, ni umuravumba bawifashisi iyo abantu barwaye inkorora bakawunywa bagakira indwara.

Igipapuro yashushanyijeho utudobo tubiri, harimo ibikakarubamba, hejuru yaho handitseho amagambo mu nyuguti z'icyatsi n'umukara, bisobanura icyo uyu muti umara.

Agacupa gasa umweru umufuniko ari ubururu, handitseho amagambo mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho igisiga bigaragare ko ari umuti bavuza abantu mu buryo bwa Kinyarwanda.

Ni ahantu hari icupa risa umweru n'umufuniko waryo, handitseho amagambo mu mabara n'umukara, umutuku, umuhondo n'icyatsi munsi bavurisha abantu.

Ahantu hateye umuti uri mu ibara ry'icyatsi n'uwo bifashisha bavura abantu mu buryo bwa kinyarwanda bakabaha ngo barebe ko bakira indwara bari barwaye.

Umuti uteye amababi y' icyatsi manini bifashisha bavura abantu iyo barwaye, ni umuravumba bakabavura bya kinyarwanda.

Ahantu hari utubuni dutatu dutandukanye, turiw ibara ry'umweru n'umuhondo, handitseho n'inyuguti n'imifuniko n umutuku shokorara n'umukara hari n'ibindi biri mu ibara ry'icyatsi birasa neza.

Ahantu hatunganiriza imiti ya Kinyarwanda, hatwikiriza ihema, hagaragara, iri mu ibara ry'icyatsi, umutuku n'umuhondo, niyo baha abantu kugira bakire.

Icupa rya move rihagaze n'umuvuniko waryo, babinditseho igipapuro gisa umweru cyanditseho amagambo mu nyuguti z'ubururu, hashushanyijeho n'ibikakarubamba by'amabara y'icyatsi.

Ahantu hari amacupa atandukanye, amwe asa ikigina, umutuku n'umweru handitseho amagambo atandukanye mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho n'ibikakarubamba.

Ahantu hateraniye abagabo, bambaye imyenda idasa, higanjemo iy'icyatsi, ifite utubara tw'umweru, hateye imiti, y'ibikakarubamba, bigaragara ko ariyo bakoresha bavura.

Ahantu hari tangawizi eshatu imwe bari bayikasemo udukatekate ivura inkorora, cyangwa bakayiteka mu cyayi abantu bakagira ubuzima bwiza.

Ahantu hateye imiti y'amoko atandukanye hahagaze umuntu wambaye umupira w'umutuku, afashe ku giti kirimo iyo bakoresha bavura abantu mu buryo bwa Kinyarwanda.

Ni icupa ririmo ifu y'umuti w'umuravumba inyuma hari igipapuro cyanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, bayifashisha mu kuvura indwara za gihanga.

Ahantu hateye imiti y'amoko atandukanye, ibibabi bisa icyatsi, harimo n'umukindo, hahagazemo umuntu, wambaye umupira w'umutuku n'ikote ry'umweru, afashe ku giti.

Udukurutu dusa umuhondo, imifuniko yatwo ari shokora n'amagambo yanditseho bisa, hashushanyijeho ibikakarubamba, bimwe duteretse mu gikarito ibindi ntibirimo, bigaragara ko ari umuti wa kinyarwanda.

Ahantu mu busitani, hari ibiti byumye ibindi bihagaze, harimo ibifite amababi y'ibara ry'icyatsi, bigaragara byo ko bitoshye ibindi bimeze nk'aho byumye.

Ahantu hateye ibiti by'ibibonobono, amababi yabyo asa ibyatsi, ayandi ni umuhondo, babikuramo imiti bavuza abantu, mu buryo bwa gakondo.

Ahantu hari uducupa turi muri etajeri hasi no hejuru, handitseho amagambo, harimo umuti abantu bifashisha iyo barwaye.

Ahantu hari ikiganza kirimo agapa hashushanyijeho igikakarubamba, handitseho amagambo mu nyuguti z'umutuku zisobanura umuti uvura kinyarwanda.

Ahantu hateretse ibintu by'ibibumbano biri mu mabara atandukanye hamwe umutuku, umweru hamwe harimo ibikakarubamba bigaragara ko bagiye gukora umuti wa kinyarwanda.

Igishushanyo kigaragaza amenyo y'umweru iminwa ari umutuku, iruhande hateretse agakombe, agacupa n'ikirahure birimo ibara ry'icyatsi.

Icupa rifite igipapuro gisa umuhondo hashushanyijeho uruyuki, handitseho amagambo mu ibara rya shakora n'iry'umweru, mo imbere harimo ubuki bakoresha.

Ahantu hari igipapuro gishushanyijeho imiti iri mu mabara atandukanye icyatsi, umuhondo, hari n'agafureshi k'umutuku kerekana izina ry'umuti.

Akabuni k'umuhondo gateretse kanditseho amagambo mu nyuguti z'umutuku n'umufuniko ari ko usa, kari ahantu h'umweru, karimo umuti wa kinyarwanda, bigaragara ko uvura abantu.

Amaboko agaragara ko ari ay'umuntu w'umuzungu, afite ibinini mu ntoki n'agakarito gasa umweru, kariho amabara y'icyatsi, handitseho inyuguti z'uko byitwa.

Ahantu hari imiti y'ibyatsi itandukanye iri mu mabara umuhondo, umukara, icyatsi, umutuku bayifashisha mu kuvura abantu.

Ahantu hari uducupa tw'amabara atandukanye, yashushanyijeho amaba y'icyatsi y'ibikakarubamba, ni umuti bagurisha kinyarwanda